Abantu b'urubyiruko abakobwa ndetse n'abahungu, bafite icyapa aho bambaye bose impuzankano, kuri icyo cyapa hakaba hariho ibirangango by'ibigo bitandukanye ndetse hakaba handitseho ngo ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Ni abantu ubona ko bakeye, mu bigaragara ni abasirimu rwose. Harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abazungu bari kugaragaramo. Bari kwifotoreza imbere y'ikintu kiri inyuma, bisa nk'aho ari icyapa kigira ibyo cyamamaza. Iruhande rwabo, hari idarapo, riri mu mabara y'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bari ku ivomo, bakaba barimo barapompa ivomo rihari, akana gatoya katezeho utubido karimo karavoma, hari n'abandi ubona ko baje kuvoma ayo mazi.

Ni ahantu bigaragara ko, bisa nkaho hari ikintu runaka cyahabereye nk'inama, hakaba hari abantu bahicaye, basa nkaho bakoze uruziga. Hagati y'abo bantu, hakaba harimo umuntu ufite ikayi ndetse n'ikaramu mu ntoki, bisa nkaho arimo arabaganiriza hari ikintu cy'ingenzi ari kubabwira.

Umwana w'umunyeshuri ubona ko yambaye impuzankano y'ishuri, akaba ari kuri robine arimo aroga cyangwa se arimo aranywa amazi akoresheje ibiganza bye. Imbere ye hateretse akantu kameze nkaho ari akadomoro ariko bakoreshaga bakaraba intoki, kanditseho UNICEF.

Abamama baje ku kigo nderabuzima, aho baje gushaka serivise, bakaba bose bafite utwana tw'uduhinja, bicaye ahabagenewe ndetse bategereje abaganga ngo baze babahe serivise.

Ni mu ivuriro hakaba hari abaganga babiri, hakaba hari n'umurwayi uryamye ku gatanda karyamishwaho abarwayi, umuganga umwe w'umukobwa akaba ari kumushyira imashini ku kaboko kugira ngo apime uko umuvuduko w'uyu murwayi uhagaze.

Abana batatu bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bari kuri robine aho baje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Mu biganza byabo hakaba harimo ibintu bihagaragara nk'aho ari ga bambitswe.

Abana babiri batoya basutamye ahantu ku mugezi, bakaba barimo barakina n'amazi, umwana umwe arimo aratega amazi ayamena hasi, aba bana barishimye cyane bisa nkaho bishimiye ko amazi yabegerejwe.

Ahantu hari umuntu uri mu mazi arimo aradaha amazi ahagazemo ayavomera mu ijerekani, ku ruhande rwe hakaba hari undi muntu uri koza igare muri ayo mazi arimo uro umuntu ari kuvoma. Bivuze ko aya mazi atari meza umuntu adashobora kuyizera ku isuku yayo.

Abana benshi, bafatanye ku rutugu, bakaba bambaye imyenda yanditseho Unicefu imeze nkaho ari impuzankano, aba bana urabona ko bose bishimye kandi harimo utwana ubona turi kwitegereza imbere cyane.

Ahantu hari abantu bicaye, bakaba bambaye imipira y'imyeru, ni abagabo ndetse n'abagore, harimo umugore umwe w'umuzungu bari imbere y'icyapa cyanditseho RBC bisa nk'aho hari igikorwa runaka bari basoje bagafata ifoto y'urwibutso, inyuma hari igikuta kiriho amatafari ahiye.

Umumama bigaragara ko ari umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari ahantu hubatse amahema, muri ayo mahema hicayemo abantu, uyu mumama akaba afite microphone mu ntoki asa nk'aho hari ibintu agiye kubwira bano bantu.

Ni ahantu bisa nk'aho habereye igikorwa cyo kwegereza ubuvuzi abaturage, hakaba hari abaganga baje gupima abaturage indwara zigiye zitandukanye, hakaba hari umusore wicaye ku gatebe akaba yararamye yasamye umuganga ari kumusuzumira amenyo.

Ahantu hari abagabo batatu n'abana batoya benshi, umugabo umwe akaba yicaye yambaye akagofero k'abayisilamu. Umugabo wambaye akajire k'umukara arimo aramwereka igitabo afite, ubona ko hari ikintu runaka ari kumwereka. Inyuma hari ibintu byanditse ariko bitagaragara neza.

Ahantu hagaragara nkaho ari muri sale yabereyemo inama, hakaba hicayemo abamama ndetse n'abapapa. Birasa nkaho bakurikiye umuntu uri imbere yabo ndetse bamwe muri bo hari abantu basa nkaho bafite n'amakayi yo kwandikamo.

Ahantu hari robine, hakaba hari akana gatoya kaje kuvoma, aho hejuru ya robine hari undi mwana usa nk'aho ari umunyeshuri urimo urafasha aka kana kukavomera. Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu, babashungereye barimo barareba.

Abantu bari ahantu, bisa nk'aho ari muri sale yari yabereyemo inama, bakaba bari kwifotoreza imbere y'icyapa kiriho amagambo yanditseho, ndetse n'ikirangantego cy'ikigo, gusa amagambo yanditseho, ntabwo agaragara neza.

Umukecuru wambaye ingofero ndetse wikenyeye n'igitenge akaba ari kuri robine aho ari kuvoma ijerekani, akaba afite umugozi yacometse kuri robine ndetse awinjiza mu majerekani aho ari kuvoma kugira ngo amazi atameneka.

Umwana mutoya w'umukobwa, akaba ari kuri rubine, akaba yatezeho ibiganza, aho ari kunywa amazi, bisa nk'aho inyuma ye hari abandi bantu nabo bategereje kuza kunywa amazi. Haragaragara intebe ihari, ndetse imbere ye hari icyapa cyanditseho UNICEF.

Abantu bicaye imbere y'Ikigo Nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, hakaba harimo umudaso. Imbere yabo hakaba haparitse imodoka, aba bantu bisa nkaho hari inama y'ingenzi barimo barakora, kugira ngo barebe uburyo banoza serivisi.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga hakaba hari umumama usa nk'aho atwite aho aryamye. Hari umuganga w'umukobwa washyize agakoresho ku nda ategaho ugutwi bisa nk'aho arimo arumva amajwi aturuka mo imbere mu nda. Hari n'undi uri iruhande ufashe kuri uwo mumama.

Ahantu hari umuganga w'umudamu akaba ari kumwe n'abandi bagore bicaye, aho imbere y'abo bagore hari umurwayi uyu muganga yashyizeho imashini kugira ngo amupime umuvuduko w'amaraso. Abandi baricaye bategereje gukurikira uyu nguyu.

Umumama wambaye agapfukamunwa akaba ateruye umwana w'uruhinja, uyu mwana bikaba bisa nkaho arimo ararira uyu mubyeyi ari kugerageza kumuhoza. Inyuma ye hari undi muntu uhicaye na we usa nkaho ateruye akandi kana.

Umu papa wambaye umupira wenda gusa ubururu ndetse n'ingofero n'agapfukamunwa k'umweru akoreye umwana ijerekani, hari undi mukobwa w'umuzungu urimo urafotora, ndetse hari n'abandi bari inyuma y'uwo mwana bari kureba.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage aho bari hose, hano hakaba hari umugore bisa nk'aho ari umuganga, akaba yashyize imashini ipima umuvuduko w'amaraso ku mukecuru uri aha, abandi bakecuru baricaye bategereje ko uyu nguyu avayo kugira ngo nabo bajye kwipimisha.

Ahantu hari abantu benshi ubona harimo abantu bameze nk'aho ari abaganga bambaye impuzankano, bakaba barimo barafata ifoto nyuma y'igikorwa runaka cy'ingenzi bari bamaze gukora. Iruhande rwabo hakaba hari icyapa gishushanyijeho umuntu w'umuganga, cyanditseho amagambo atari kugaragara neza.

Ababyeyi batatu bicaye ahantu ku ntebe bari ku murongo, imbere yabo hakaba hari umuganga urimo uragerageza kubafatira ibizamini. Yafasheshije umubyeyi umwe amushyiraho imashini, aho arimo arasuzuma umuvuduko w'uwo mubyeyi uko uhagaze. Abandi bari inyuma barategereje.

Umuntu waje kwaka serivise kwa muganga akaba ari umubyeyi, aho afite n'umwana mutoya, hari umuganga w'umukobwa urimo araha uyu mwana umuti awukuye mu gacupa, izi zikaba ari zimwe muri serivisi zitangwa mu mavuriro hirya no hino mu Rwanda.

Ni ahantu ubona ko habereye igikorwa cyo gukingira, hakaba harimo abaganga ndetse n'abarwayi baje kwikingiza. Hari umumama barimo baratera urushinge ku rutugu ariko mu bigaragara ni uko atinya urushinge.

Umwana wambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku ndetse akaba afite imisatsi iboshye, ari ku ivomero aho arimo arakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda umwanda ndetse n'ingaruka ziterwa na wo.

Abamama batatu ubona ko bari ku ivomero, bakaba barimo baroga intoki ndetse hari n'undi uri kunywa amazi, inyuma y'ivomero hari undi mu mama wambaye ishati y'umutuku uhari, aho ngaho bahagaze hari ibijerekani bibiri bihateretse.

Abantu bisa nkaho bari mu muganda rusange, bakaba bambaye impuzankano. Harimo umugabo umwe wambaye imyenda y'Igipolisi cy'u Rwanda, ndetse bano bantu bakaba bari guhinga akarima k'igikoni bateramo imboga z'ubwoko butandukanye.

Umuganga wambaye impuzankano z'akazi, imbere ye hakaba hari kugaragara ibyuma by'ikoranabuhanga bicometseho insinga nyinshi, byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma abarwayi, kugira ngo bamenye indwara ya nyayo barwaye.

Ni ahantu bigaragara ko hari abantu baje gusura abana bambaye imipira y'iroza, bakaba barimo babaha ibikombe birimo amata, ni byiza kwita ku bana kuko baba badukeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umubyeyi w'umumama ubona ko yishimye cyane arimo araseka, ari kuri robine aho arimo aravoma amazi ayashyira mu mabido ari imbere ye, hejuru ye hakaba hari icyapa cy'ubururu cyanditseho Unicef.

Ni ahantu ubona ko habereye igikorwa cyo gusura abana ndetse n'ababyeyi babo. Hakaba hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'umupira wa oranje, aho arimo aragaburira akana gakikiwe na nyina.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye bicaye, hakaba hari umugabo wambaye umupira wa oranje, akaba arimo arasuhuzanya n'akana gatoya. Inyuma yabo hari ibiti bihateye, urabona ko uyu mugabo n'uyu mwana bishimanye.

Ni imbere y'inyubako ubona ko hari abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba hubatse n'ihema. Imbere y'iyo nyubako hari idarapo riri mu mabara y'igihugu cy'u Rwanda ndetse kuri iyo nyubako hamanitseho icyapa kiriho abaganga cyanditseho n'amagambo atagaragara neza.

Ahantu bimeze nk'aho ari mu cyumba cy'inama hakaba hicayemo abantu bagiye batandukanye. Hari abantu bari imbere bisa nk'aho ari bo bayoboye iyi nama ndetse hagaragaramo igikoresho gifata amashusho. Inyuma ku cyapa hari amagambo yanditseho ndetse hari n'igikoresho gisakaza amashusho kiriho umuntu usa nk'aho ari kuvuga.

Ibiganza by'umuntu utagaragara mu isura, bikaba bisa nk'aho uyu muntu ari umuganga, hari umuntu wakubye umupira we, aho uyu muganga arimo aramutera urushinge ku rutugu.

Umwana w'umuhungu urimo arakaraba kuri rubini akaba yatezeho ikiganza cye cy'indyo ari koga mu maso, urabona ko yishimiye ko yegerejwe amazi hafi ye.

Abantu bicaye ku mukeka bakoze uruziga, hakaba harimo utwana twinshi twambaye impuzankano, ndetse muri abo bantu harimo umuzungu n'abandi bantu bakuru. Bisa nkaho bari kuganiriza bano bana kugira ngo bagire ubumenyi bunguka.

Umukobwa usutaraye ku ivomero, akaba ari kuvoma amazi. Yafashe ijerekani ayitereka mu mabase ahari, urabona ko uyu mukobwa yishimye cyane. Inyuma ye hanitse imyenda ndetse haragaragara n'inzu.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bose bafite udukombe, aho barimo baranywa amazi bari kuvoma mu kigega gihari. Si byiza ko umuntu akwiye kunywa amazi y'imvura, kuko ashobora kuba yamutera indwara.

Ni umumama w'umuzungu ufite microphone mu ntoki bisa nkaho hari ikintu ari kuvuga, kandi icyo kintu kikaba cyamukoze ku mutima kuko yifashe mu gatuza, ari imbere yicyapa kiriho ibirangantego by'ibigo bigiye bitandukanye.

Ni ku ivomo, aho hari utwana dutoya dutatu twaje kuvoma, hakaba hari umumama bisa nk'aho ari umuzungu aho arimo arapompa kugira ngo amazi aze bano bana babashe kuvoma, hari imodoka iparitse ndetse haragaragara n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni ahantutu bisa nkaho habereye igikorwa cyo gusuzuma indwara nyinshi zigiye zitandukanye, hakaba hari abaganga bahari ndetse n'abaforomokazi babafasha. Hari abakecuru barimo barasuzumwa, aho umuganga umwe agiye gutera umukecuru agashinge ku rutoki.

Abana bahagaze mu mugezi ndetse uwo mugezi bahagazemo bakaba barimo bawudahamo amazi, mu by'ukuri aya mazi bashobora kuba bagiye kuyakoresha ariko aya mazi ntabwo yaba ari meza ashobora kuba arimo mikorobe.

Abantu benshi bicaye mu mahema hakaba harimo umwe w'umukobwa wambaye impuzankano ya polisi, imbere yabo hari umuntu ufashe mikoro, bisa naho hari ijambo runaka arimo arababwira yabateguriye, inyuma y'aba bantu bicaye mu ihema hari icyapa kihagaragara ariko ibyanditseho ntabwo bigaragara.

Abantu ubona ko bambaye neza amakote ya kositime, bakaba basa nkaho hari igikorwa runaka bari bavuyemo hanyuma bakaba barimo basuhuzanya, bari kwifotoreza imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ariko atagaragara neza.

Ni ahantu mu cyumba ubona ko habereyemo inama cyangwa se amahugurwa runaka, hari umuntu uri imbere yabo ufite mikorofone mu ntoki abandi bamutesa amatwi, inyuma ye hari icyapa cya RBC cyanditseho amagambo atandukanye.

Muri salle hakaba habereyemo inama, aho hicayemo abantu bagiye batandukanye, bicaye mu buryo bakozemo izeru, hagati yabo harimo umugabo wambaye taburiya y'umweru bisa nkaho hari ibintu by'ingenzi ari kubaganiriza.

Ni ahantu hateraniye abantu batanu bisa nkaho bari gukora inama aho hari ikintu runaka bari kuganiraho, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umuntu wicaye imbere yabo bisa nkaho ari we uri kuyobora ino inama, ku meza hateretse amakayeyi bari kwandikamo, telefone ndetse n'uducupa tw'amazi.

Ni abantu ubona ko baje ahantu hari abana benshi, bakaba baje kugira ngo babahe ibyo kunywa ndetse n'ibyo kunywa, ni byiza rero ko tugomba kwita ku bana batoya kuko baba badukeneye mu mikurire yabo ya buri munsi.

Abana b'abanyeshuri ubona ko bambaye impuzankano, bakaba bari ku ishuri. Bageze mu gihe cyo gufata amafunguro, aho imbere ya buri mwana hateretse isahane iriho ibyo kurya byiza. Inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho ibintu.

Umwana w'umuhungu uri kuri robine, aho arimo aragerageza kuvoma amazi, inyuma ye ndetse n'iruhande rwe hakaba hari abandi bantu na bo baje kuvoma. Iki kikaba ari igikorwa remezo Igihugu cy'u Rwanda cyegereje abaturage.

Ahantu bisa nk'aho ari mu cyumba cy'inama, hakaba hari kuberamo inama, hicayemo abantu bisa nkaho bakurikiye umuntu uri imbere uri kugira icyo ababwira. Imbere yabo hateretse ameza, ku meza hariho udupapuro twanditseho amagambo atagaragara ndetse hateretseho n'uducupa tw'amazi.

Abantu bari ahantu bisa nkaho hari habereye inama, nyuma y'inama bakavuga bati reka dufate ifoto y'urwibutso, muri abo bantu harimo umugabo umwe w'umuzungu ndetse inyuma y'abahagaze hari icyapa kiriho ibintu bitagaragara neza.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bisa nkaho bari mu nama, hakaba hari umugabo umwe wicaye hagati yabo ugaragara nkaho ariwe uyoboye inama, hari amarido ndetse hari n'ibindi bikoresho bihari.

Ni ahantu hameze nkaho ari muri sale yabereyemo inama, hakaba hari umumama uhagaze hagati y'abantu baje muri iyo nama agira icyo ababwira. Ku meza hateretse marete ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abaganga batatu, bambaye imyenda bakorana akazi kabo, bakaba bafite udukarito dusa nkaho hari ibintu runaka bafitemo, bisa nkaho ari nk'ibizamini bari bafashe cyangwa se ari nk'insimburangingo bajyanye muri utu dukarito.

Umukobwa waje kwa muganga, akaba ari kumwe n'umuganga w'umumama, aho uyu muganga yashyize imashini ipima umuvuduko ku kaboko k'uyu mukobwa, inyuma yabo hari ikirahure barimo baragaragaramo.

Abana baje ku ivomero aho baje kuvoma hakaba, hari umwana umwe uri gupomba kugira ngo amazi aze, abandi bari kurebera kandi amazi ntabwo ari kujya mu ijerekani ari kwimenekera hasi.

Abagore batatu bari ku ivomero, bakaba babiri muri bo barimo barapompa amazi ari kuza, undi mugore afite indobo yunamye ku mugezi arimo aratega amazi ngo ajyemo neza.

Ibiganza by'umuntu utagaragara neza mu maso, uyu muntu akaba ari gukaraba amazi kuri robine, ari gukaraba intoki ze kugira ngo yirinde umwanda ndetse n'indwara zaba zikomoka ku mwanda.

Umwana mutoya uhagaze ahantu mu mazi, akaba afite ijerekani yadubitse muri ayo mazi ahagazemo. Birashoboka ko uyu mwana aya mazi agiye kuyajyana iwabo bakayakoresha ariko mu by'ukuri aya mazi yahagazemo ntabwo yaba agisa neza.

Igihugu cy'u Rwanda kigiye gifite inzobere mu gutanga serivise z'ubuvuzi. Aha ngaha rero ni mu ivuriro aba bakaba ari abaganga, aho nyuma y'uko bamaze gukora akazi kabo baje bagafata ifoto y'urwibutso, imbere yabo hari umugore w'umuzungu ubona ko bishimye.

Umwana ufite igitenge ku rutugu ndetse n'umamama bakaba bari kuri robine barimo baravoma, hari abandi bantu b'abana bari inyuma bisa nk'aho bashagariye uyu mwana n'uyu mumama bari kuri robine barimo bavoma bavomera mu majerekani.

Ni mu ivuriro aho harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, hariho ahicazwa umurwayi umuganga agiye kumusuzuma, ndetse hagiye hariho n'utuntu tumeze nkaho ari insakazamashusho dufasha umuganga kureba indwara umurwayi afite.

Abantu bicaye ahantu mu nzu, hakaba harimo abagore babiri ndetse n'abandi basa nk'aho ari abana, inyuma yabo hamanitse ibintu biriho amafoto ndetse byanditseho n'amagambo, mu bigaragara ni uko bano bagore bigunze wagira ngo hari ikibazo runaka bafite.

Ni ahantu hari abantu benshi bahateraniye bigaragara ko ari ahantu hasa nkaho ari muri sale, hari abantu b'abagabo ndetse n'abandi bambaye amataburiya y'umweru, bisa nkaho hari ibyo bari kwereka bano bantu bambaye amakoti, inyuma yabo hari umuntu ufite kamera.

Ni umusaza wagiye kwa muganga, akaba yambaye umupira wanditseho RBC. Uyu musaza akaba ari kumwe n'umuganga, aho umuganga ari kumutera urukingo ku rutugu rwe.

Abantu batatu harimo umugabo umwe ndetse n'abamama babiri, bakaba barimo baterura udufuka bari kudupanga neza. Mu bigaragara ni uko bagiye gukora stock y'ibintu runaka cyangwa se bakaba barihangiye umurimo.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, iki cyapa kikaba kiriho inzu, iyi nzu ikaba ari ivuriro. Iki cyapa kiri kwamamaza umunsi mpuzamahanga wabaye muri Afurika wo kwita ku buzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ni ahantu bisa nk'aho ari muri sale, hakaba hateraniye ababyeyi benshi bisa nk'aho baje gukingiza abana babo, hari umubyeyi ushigatiye umwana, akaba afite ifishi mu ntoki ze ubona ko ari kureba muri kamera.

Ni abantu ubona bari ahantu hari ikigo nderabuzima cya Mayange, bakaba bambaye amatabuririya y'ubururu na bje zabo mu ijosi, urabona ko hari umusaza w'umuzungu bari kwishimira cyane, bamutegeye amaboko hari n'abamukomeye amashyi ubona ko hari n'umuntu uri gufata amashusho.

Ni ahantu bisa nkaho ari mu ivuriro hakaba hari abantu bane, umuntu umwe ni umuganga ari kwandika mu ikayi yicaye ku ntebe hari n'undi uhagaze iruhande rwe imbere ye hari imashini, hari undi mudamu wambaye baje mu ijosi n'agapfukamunwa bisa nkaho hari ikintu yaje kumva, bano bantu bagiye kumubwira ari kumwe n'undi mugabo hirya hicaye umusaza.

Abana benshi ubona bari ahantu hari robine barimo baranywa amazi bakoresheje ibiganza byabo. Aba bana bakaba ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano, biragaragara ko bishimye ndetse bishimiye ko barimo banywa amazi abegereye.

Abagore batatu bari ahantu ku ivomo, babiri bakaba bari gukaraba intoki, umwe muri bo arimo aranywa amazi akoresheje ibiganza bye. Undi mugore wambaye agapira k'umutuku, ari inyuma y'iryovomo. Kuri iryo vomo, hari amagambo yanditseho ndetse hateretse n'amajerekani abiri abo bagore baje kuvomeramo.

Ni icyapa kiriho kimwe mu kigo k'ingenzi gikorera hano mu Rwanda kikaba ari ikigo cya WASAC. Iki kikaba ari ikigo gishinzwe ibijyanye n'amazi mu gihugu cy'u Rwanda.

Umumama n'abana benshi bari ku ivomo, abana bakaba barimo barapompa kugira ngo amazi abashe kuba yaza. Imbere kuri robine batezeho amabasi ndetse n'amabido, kugira ngo amazi abe ariho ajya.

Ni ahantu bigaragara ko ari muri sale y'inama, hakaba hicayemo abantu bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa dutandukanye. Imbere yabo ku meza, hakaba hari ibitabo n'uducupa tw'amazi, aho bose ubona bateze amatwi, bisa nkaho hari umuntu uri imbere uri kugira icyo ababwira.

Ni kwa muganga hakaba hari umubyeyi wazanye umwana urwaye. Umwana bamuryamishije ahantu, abaganga barimo baramwitaho ubona ko hari ibizamini barimo baramufatira. Umubyeyi ari aho ku ruhande ari kwitegereza uko bikorwa.

Ababyeyi bagiye kwa muganga; aho bari kuganirizwa n'umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'iroza; imbere ye hari imeza iriho ibitabo; bisa naho ari kuganiriza aba babyeyi.

Abagore batatu bagiye ku ivomo babiri bakaba barimo barapomba aho umugore umwe yunamye ateze indobo kugira ngo amazi ajyemo neza.

Abana benshi ubona bari kuri robine, bakaba barimo bararwanira koga bose intoki, aho ab'imbere ubona bashyizeyo intoki abandi b'inyuma babuze uko bo bagerayo, birasa nkaho aba bana bishimye cyane ndetse bafite n'akavuyo.

Abantu ubona ko bari mu kazi, bakaba barimo baterura imifuka bagenda bayirunda hirya, hari abagore babiri ubona ko bateruye agafuka kamwe, aho bakajyanye ku yindi mifuka bari kwikorera rero kugira ngo batazicwa n'inzara.

Umugore n'umugabo bagannye umujyanama w'ubuzima, bisa nkaho umugore atwite, baje kugisha inama aho umujyanama w'ubuzima hari ikintu cy'imfashanyigisho afite, arimo arereka bano bantu babana kugira ngo abashe kubasobanurira neza.

Ni mu cyumba bisa nk'aho cyabereyemo inama, hakaba harimo abantu bicaye, hagati y'abo bantu harimo umuntu umwe bisa nk'aho ariwe uyoboye inama ndetse inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho ibirangantego by'ibigo bitandukanye.

Abakobwa babiri bisa nkaho barimo baraganira, umukobwa umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye uw'umukara, birasa nkaho uyu nguyu wambaye uw'umutuku afite ikibazo kimuremereye aho yifashe ku itama, undi mugenzi we akaba ari kugerageza kumuturisha.

Umumama ukikiye umwana mutoya, iruhande rwe hakaba hari undi mwana uhicaye. Inyuma yabo hari urukuta rwubakishije ibyondo, imbere yabo hari intara iriho imbuto ndetse n'ingemeri irimo izindi mbuto.

Ni umukecuru bigaragara ko akuze akaba yambaye imyenda ikoze mu bitenge, uyu mukecuru arashaje kuko afite iminkanyari mu maso, yashinyitse amenyo bisa nkaho hari ikintu runaka ari kubwirwa n'umuntu utagaragara.

Abantu babiri b'abagabo, ariko umugabo umwe bikaba bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se yarahuye n'ihungabana. Afite umusatsi mwinshi wamwereyeho, yambaye imyenda yamucikiyeho. Ari gusuhuzwa n'undi mugabo ubona we ari umusirimu, bisa nkaho uyu mugabo aje gufasha uyu murwayi kugira ngo arebe ko yasubirana ubuzima.

Umugabo uri ku muhanda, akaba ari mu kayira kari iruhande rwa kaburimbo nyabagendwa, uyu mugabo akaba yambaye ibyenda byacikaguritse ndetse mu ntoki ze urabona ko hari ibintu afitemo, umusatsi ukaba waramwereyeho. Biragaragara ko uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se yarahuye n'ihungabana ndetse inyuma mu muhanda, hari ibinyabiziga ndetse hari n'ibiti bihagaragara.

Umukecuru ubona ko yishimye cyane arimo araseka ndetse uyu mukecuru akaba ari mu zabukuru, yateretse isafuriya ku mashyiga ye arimo arashigisha, iruhande rwe hari igikombe ndetse n'umufuniko upfundikira iyo safuriya, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ni ahantu bigaragara ko habereye inama, hakaba harimo abantu b'ababyeyi bitabiriye iyo nama bafite abana batoya. Imbere yabo hari umuntu ufite akantu ari kugenda yandika ku kibaho gihari, bisa nkaho arimo arabigisha. Bisa nkaho ari amahugurwa bajemo.

Ahantu hari umukecuru uri kumwe n'abana benshi cyane bicaye ku mukeka. Umukecuru akaba akuze cyane yicaye hagati y'abo bana, bisa nkaho aba arimo arabaganiriza. Bose bari kureba imbere, bisa nkaho hari ikintu barimo barahareba.

Ahantu bisa nkaho hari kwakirwa abantu bagiye batandukanye ngo bahabwe serivise runaka, hakaba hari umugabo wicaye imbere ye hari igikayi arimo arandika, imbere ye hari n'umuntu w'umurwayi usa nkaho waje amugana, kuri ayo meza hateretse icupa ry'amazi.

Ahantu hari abantu bambaye impuzankano, bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye, harimo ufite mikoro arimo agenda avugiramo.

Abantu bicaye imbere y'inzu bikaba bigaragara ko ari nk'umuryango ndetse hari n'undi mushyitsi waje kubasura, harimo umumama n'abana ndetse n'abagabo babiri, urabona ko barimo baraseka cyane, bisa nk'aho bishimye.

Umugabo wicaye iwe mu rugo, bikaba bigaragara ko uyu mugabo afite ibibazo byinshi kuko yifashe mu gahanga, urabona ko ibintu byamurenze, ari kumwe n'undi muntu bisa nk'aho ari umugore we, uyu mugore ari kugerageza guhumuriza uno mugabo amukoraho, amubwira ati ibintu byose biraza gukemuka.

Sale irimo abantu bagiye batandukanye , imbere hakaba hari umu mama wambaye amalinete, itaburiya y'umweru ndetse na baje mu ijosi, imbere ye hakaba hateretse imashini ndetse n'uducupa tw'amazi, uyu mu mama akaba ari umuganga aho afite ikaramu mu ntoki hari ibintu bisa nkaho agiye kwandika.

Umukecuru bigaragara ko akuze, akaba afite iminkanyari mu maso, yiteze igitambaro cy'umweru ndetse yikuye hejuru, yambaye akanigi mu ijosi, ararangaye ari kureba hirya.

Abantu babiri bicaye ahantu bisa nkaho habereye igikorwa runaka, akaba ari umugore ndetse n'umugabo. Umugore umwe afite mikorofone mu ntoki arimo aravuga. Ndetse inyuma yabo haragaragara ipoto rihari bisa nkaho hubatse amatente.

Ni icyapa kiriho umugore uri guseka cyane ubona ko yishimye, iki cyapa kikaba cyandikishijeho amagambo menshi ari mu rurimi rw'Icyongereza, ayo magambo akaba asobanuye ko ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe ari ubwa buri umwe ndetse n'aho yaba ari hose.

Abana benshi ubona ko bambaye impuzankano y'ishuri bakaba bazamuye amaboko bisa nk'abarimo barapepera inyuma yabo hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse bano bana urabona ko bishimye.

Umugabo bigaragara ko akuze, uyu mugabo akaba ari umwirabura. Umugabo arimo ararira bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ingutu. Biragaragara ko uyu mugabo hari ibibazo afite bimukomereye.

Abana benshi bicaye ahantu hamwe ubona barimo baraseka, hakaba harimo abambaye impuzankano z'ishuri, gusa muri abo bana harimo akana kamwe ubona ko kishimye cyane kurusha abandi, aho kasetse ndetse kanatangaye cyane.

Umugabo bigaragara ko afite indwara yo mu mutwe cyangwa se yagize ihungabana, afite imisatsi n'ibyanwa byamwereyeho, yambaye ibyenda bicikaguritse, arasamye bisa nkaho ari gusakuriza abantu.

Ni abantu bari muri salle y'inama, hagati yabo hakaba hahagazemo umugore bisa nkaho hari ijambo ari kubagezaho, ku meza hateretse amashakoshi, ndetse hariho telefone ngendanwa n'uducupa tw'amazi.

Icyapa kiriho ikirangantego cy'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ibijyanye n'Ubuzima mu Rwanda ndetse na Unicef. Iki cyapa hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza asobanuye ngo wari umunsi wahariwe kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugore witeze igitenge mu mutwe, akaba yakambije isura. Bisa nk'aho uyu mugore afite uburakari bwinshi bitewe n'ikibazo runaka afite. Bitabaye ibyo uyu mugore ashobora kuba afite ihungabana mu mutwe.

Abantu bari kwifotoreza imbere y'ibyapa bitandukanye, hakaba harimo umuntu umwe w'umugabo wambaye ingofero yenda kumera nk'iya gipolisi ndetse inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo Kacyiru Health center.

Umumama uteruye akana ke, uyu mumama ukaba ubona ko yishimye arimo araseka, akana na ko kari kureba urabona ko kishimye kakubise agatwenge.

Icyapa gishushanyijeho umutwe w'umuntu, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agira ati ''ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, uba mu kwezi kwa cumi.''

Abantu benshi bari kwifotoreza ahantu mu nzu, bakaba bambaye impuzankano. Bisa nkaho hari igikorwa runaka cy'ingenzi bari bavuyemo bagafata ifoto y'urwibutso. Muri abo bantu harimo abantu babiri batambaye impuzankano, akaba ari umugabo ndetse n'umugore w'umuzungu.

Umugabo w'umusaza ufite umusatsi mwinshi; akaba yarakutse amenyo yo hejuru n'ayo hasi, yambaye ishati y'ubururu ndetse biragaragara ko yiteye umwitero, uyu musaza akaba arimo araseka, mu bigaragara nuko ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana mu buryo bugaragara.

Umubyeyi uteruye akana ari kumwe n'undi mubyeyi ufite akantu ka tesite bisa nkaho ari kwereka uyu nguyu bari kumwe uteruye mwana. Bisa nkaho hari ibizamini runaka bari bafashe, hanyuma bakaba bari bategereje ibisubizo. Uyu mubyeyi afite na telefone ngendanwa mu ntoki.

Mu mavuriro agiye atandukanye yo mu Rwanda, usanga harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo baravura abarwayi. Hano hakaba hari udutebe twicarwaho n'abarwayi mu gihe umuganga ari kubasuzuma, ndetse hakaba hari n'insinga zifasheho zifasha umuganga kuba yabona icyo umurwayi arwaye.

Umukobwa w'inzobe ufite imisatsi y'umukara, akaba ari kwireba mu kirahure aho arimo aroza amenyo ye akoresheje uburoso na korogate. Uyu mukobwa akaba agirira isuku amenyo ye ndetse yambaye n'isengeri y'umweru.

Ni umugabo bisa nkaho afite imibiri yombi, uyu mugabo akaba arimo arasa n'uwiborose, ari kwireba mu kirahure imbere ye bisa nkaho ari kwita ku menyo ye kugira ngo ayarinde umwanda.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bafite uburoso na korogate barimo bariborosa. Uyu nguyu akaba ari umuco mwiza wo kwigisha abana kugirira isuku amenyo.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo intebe eshatu zabugenewe zicazwaho abarwayi bakamera nk'abegamye mu gihe baje kwisuzumisha amenyo hanyuma muganga na we akabona uko abasuzuma amenyo bitamubangamiye.

Abantu bari ahantu wagira ngo habereye inama, hakaba hari abambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi, harimo umwe muri bo wafashe korogati ndetse n'uburoso ari koza amenyo ye, imbere ku meza hateretse umuti w'amenyo wa korogati.

Umukobwa waje kwa muganga w'amenyo, umuganga akaba yamwicaje ku gatebe yicaraho akegama akaba ari kumwereka akadodo gakoreshwa mu gihe umuntu ari gukura imyanda yasigaye mu menyo.

Umugabo n'umwana we bose bambaye imyenda y'imyeru ndetse bose bakaba bafashe akadodo mu ntoki zabo, aho bose bakanyujije mu menyo kugira ngo barebe ko bakuramo imyanda yaba yasigayemo.

Ni umuganga w'umukobwa, akaba ari mu ivuriro aho akorera akazi ke. Hari ikimashini kimuri imbere bisa nkaho hari isuzuma arimo arakora yarangiza akandika ku rupapuro rumuri imbere.

Umusore uryamye ku gatebe kabugenewe, akaba ari kwa muganga. Abaganga barimo baramukura amenyo, aho bashyize agakoresho kabugenewe ku menyo ye kugira ngo babashe kubona neza irirwaye barikuremo.

Umurwayi uri kwa muganga, akaba aryamye ku gatanda kabugenewe karyamishwaho umuntu kugira ngo umuganga asuzume ikibazo cy'amenyo arwaye. Uyu murwayi akaba ari hamwe n'abaganga babiri barimo baragerageza kumwitaho ngo barebe amenyo ye ikibazo yaba afite.

Umusore w'imibiri yombi akaba ari kwireba mu kirahure aho yiyambuye hejuru, mu biganza bye akaba afitemo urudodo, uru rudodo akaba ari kurucisha mu menyo ye kugira ngo akuremo utwanda tw'ibiryo twaba twasigayemo.

Ni ahantu bisa nkaho harimo haravurirwa abantu bagiye batandukanye. Hakaba hari abaganga baje gusuzuma abarwayi. Hari umukobwa w'umurwayi wasamye, undi mukobwa w'umuganga arimo aramupima mu kanwa ngo arebe amenyo ye ikibazo yaba afite. Hari n'abandi baganga ubona ko bahuze hari ibyo barimo barandika.

Ni umusore w'umwirabura ufite imibiri yombi, akaba yambaye agapira k'umweru aho ari kwireba mu ndorerwamu, uyu musore akaba afite akadodo yacishije mu menyo aho ari kugenda akuramo utwanda twaba twasigayemo.

Umugabo w'umwirabura bigaragara ko akuze, akaba afite akadodo mu ntoki ze, aho aka kadodo yakanyujije mu menyo ye. Aka kadodo yakanyujije mu menyo ye kugira ngo akuremo utwanda twaba twasigayemo.

Ni umusore w'imibiri yombi, akaba afite akadodo aho ari kukanyuza mu menyo ye. Uyu musore akaba ari kunyuza kano kadodo mu menyo ye kugira ngo akuremo utwanda twaba twasigaye mu menyo ye.

Abana bari hamwe n'umwarimu ubigisha, bakaba bose bafite umuti w'amenyo wa korogate ndetse n'uburoso, ubu ngubu bukaba ari uburyo bwiza bwo gutoza abana hakiri kare kujya bakorera isuku amenyo yabo.

Umusore w'imibiri yombi ufite ubwanwa butari bwinshi akaba yiyambuye, mu biganza bye afite mo urudodo aho uru rudodo ari kurucisha mu menyo ye kugira ngo akuremo utwanda twaba twasigayemo.

Umugabo wambaye itaburiya bisa nkaho ari umwarimu, akaba afashe akana kambaye impuzanano y'icyatsi, aho ari kugasobanurira ururwasaya ruriho amenyo y'umuntu yose gafite aka kana, akereka uburyo bigenda, inyuma ye hari ikibaho, ndetse hari n'abandi bantu bahagaze, harimo n'umu mama w'umuzungu.

Umwana uri kwa muganga, umuganga wambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki by'umweru, akaba yamushyize ku gakoresho kabugenewe aho yamushyize ibikoresho byabugenewe mu menyo, ari kureba amenyo y'uyu mwana ikibazo afite.

Umusore wambaye umupira w'umweru ndetse akaba afite imibiri yombi, mu maboko ye afitemo akadodo aho ari kukanyuza mu menyo kugira ngo akure imyanda yaba yasigaye mu menyo ye.

Abaganga babiri baryamishije umurwayi ku gakoresho kabugenewe baryamishaho abarwayi, aho umuganga umwe w'umugabo arimo arasuzuma uwo murwayi bisa nk'aho uyu murwayi afite ikibazo cy'amenyo, ni basanga icyo kibazo gikomeye bararimukuramo ubundi amererwe neza.

Umusore bigaragara ko ashobora kuba yaje kwa muganga kwisuzumisha amenyo, akaba yicajwe mu gatebe kabugenewe kicazwamo abantu baje gusuzumwa amenyo kugira ngo begeme muganga arebe neza, yashyizwe kandi n'akantu k'agatambaro k'umweru imbere, arimo araseka urabona ko yishimye.

Umusore w'imibiri yombi, akaba yambaye ubusa hejuru, aho afite isume y'umweru ku rutugu. Afite akadodo mu ntoki ze, aho ari kugacisha mu menyo ye kugira ngo akuremo utwanda twaba twasigayemo.

Umukobwa bisa nkaho ari umuganga akaba ari kumwe na mugenzi we bakorana, uyu mukobwa urabona ko yasetse cyane ndetse afite urupapuro rwanditseho ibintu byinshi, undi bari kumwe wambaye amarinete na we afite urupapuro ari kwandikaho.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara, akaba yasetse ari kwerekana amenyo, aho yafashe intoki ebyiri, rumwe kuri buri kiganza akaba yatunze ku menyo ye, ubona ko amenyo ye akeye cyane asa umweru.

Abanyeshuri benshi b'abana ubona ko bambaye impuzankano, bose bakaba bazamuye amaboko yabo arimo korogate ndetse n'uburoso. Ubu ngubu bukaba ari uburyo bwiza bwo gukangurira abana koza amenyo yabo buri munsi.

Ni byiza ko igihe umuntu ageze mu zabukuru, agomba guhabwa utuntu tumuhuza, two akora buri munsi kugira ngo yirinde gusaza vuba. hano hari umusaza ufite imvi z'uruyenzi, afite ikayi n'ikaramu arimo arandika.

Umusaza uri mu gihe k'izabukuru, akaba yicaye iwe mu rugo aho imbere ye hari umuganga ukiri mutoya ushinzwe kwita kuri uyu musaza, akaba hari imashini arimo aramushyiraho kugira ngo abashe gupima umuvuduko w'amaraso w'uyu musaza uko uhagaze.

Umusaza wamenye akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, akaba arimo arikorera siporo, mu biganza bye afitemo udukoresho tumufasha gukora siporo, ndetse hari n'utundi dukoresho yambaye mu matwi, uyu musaza imvi ze ni uruyenzi.

Umusaza n'umukecuru biyicariye mu nzu ubona ko bishimye, bose bafite imvi z'uruyenzi ndetse imbere ku meza hari uducupa tw'imiti ndetse n'kirahure kirimo amazi, umukecuru afite agapapuro arimo arerereka umusaza, bisa nkaho umusaza agiye kunywa ibinini.

Umusaza uri mu za bukuru, akaba yiyicariye iwe arimo arisomera ibitabo. Yifashi ku gahanga bisa nkaho atuje cyane. Imbere ye ku meza hari akarahuri kateretse ndetse muri iyo nzu arimo, hari ahantu bigaragara ko hateye indabyo.

Umukobwa warambuye akantu kameze nk'agatapi ahantu mu byatsi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, uyu mukobwa yarambuye amaguru ye hasi ndetse amaboko ye yaje ayafatisha ku maguru bisa nkaho arimo arigorora.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru, uyu musaza akaba afite imvi ku musatsi ndetse no mu bwanwa. Uyu musaza ari kumwe n'umuganga mutoya w'umudamu ushinzwe kumwitaho, aho uyu musaza hari akantu bamuhaye afite mu ntoki, aho yarambuye akaboko ke kugira ngo imitsi idahinamirana, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu utagaragara neza mu isura, ariko uko bigaragara, ni umusaza. Cyangwa se umukecuru, kuko ibiganza bye byajeho iminkanyari. Arimo arakina dame, imuri imbere ye...

Umuryango ubona ko wishimye, hakaba harimo abagabo babiri ubona ko bakuze ndetse n'abandi bagore babiri. Harimo utwana dutoya, urabona ko bano bantu bishimye cyane bisa nkaho babayeho neza bafite amahoro.

Ni ahantu bisa nkaho habereye imisango y'ubukwe bwa Kinyarwanda, hakaba hari abantu bicaye mu gisharagati, imbere hakaba hari umusaza ndetse n'umukecuru ubona ko bakuze, bose bakaba bikenyeye imikenyero.

Umugabo ubona ko ageze mu zabukuru, aho afite imvi z'uruyenzi ku mutwe. Imbere ye hakaba hari umuntu ushinzwe kumwitaho, aho aba yaje kureba niba imiti ayinywa ndetse ayinywera ku gihe. Ku meza hateretse ikirahure ndetse n'ikayi uyu muganga yandikamo n'ibindi.

Ni umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru, akaba afite imvi z'uruyenzi, ateruye umwana ufite agapupe bisa nk'aho uyu mwana ari umwuzukuru we, urabona ko uyu musaza yishimye cyane.

Umugabo bigaragara ko ageze mu gihe cy'izabukuru, afite ubwanwa bw'imvi, akaba yicaye iwe mu rugo aho iruhande rwe hari umukobwa urimo aramuha imiti. Imbere ku meza hateretse ikirahuri cy'amazi ndetse na computer.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru aho afite umusatsi w'imvi ndetse n'ubwanwa, ari kumwe n'umukobwa w'umuganga ushinzwe kumukurikirana aho yamuhaye akantu yagashyize mu kaboko akaba ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo arwanye za rubagmpande.

Umukecuru ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru, akaba afite imvi ku mutwe. Yicaye mu kagare k'abantu batabasha kugenda ndetse iruhande rwe ari kumwe n'umukobwa bisa naho uyu mukobwa amwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Bari kuganira urabona ko barimo baraseka bose bishimye.

Umuryango ugizwe n'umukecuru ndetse n'undi mumama n'akana, umukecuru akaba akuze cyane. Barimo baraseka ubona ko bishimye, gusa umwana hari akantu afite mu ntoki ameze nkaho ari gushinyiriza wagira ngo hari ikintu kimubayeho.

Umusaza ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru afite imvi z'uruyenzi ku mutwe, yambaye agapira k'ubururu, iruhande rwe hakaba hari umuganga ushinzwe kumwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi, ari kumufasha kumanukira ku twuma duhari kugira ngo umusaza yumve amerewe neza.

Umusaza ubona ko yishimye cyane, yasetse, akaba ari mu gihe cy'izabukuru. Afite imvi z'uruyenzi ku mutwe, akaba ari hamwe n'umugangakazi w'umukobwa, aho arimo aramupima. Yamushyize imashini ku kaboko isuzuma umuvuduko w'amaraso.

Uko iminsi irushaho kugenda itera imbere ndetse n'isi nayo igenda itera imbere, abantu na bo bari kugenda basirimuka. Hano hari abamama batatu ubona ko bakuze ariko barangariye muri telefoni, barimo baraganira ku bintu byabateza imbere, imbere ku meza hari ibintu bihari bakora.

Umumama ari hamwe n'umukobwa bisa nkaho bavuye kwa muganga aho umukobwa hari akantu amutwaje. Uyu mumama bigaragara ko akuze hari akantu kari mu byuma, afite imbere ye bisa nkaho ari kugenda agaterura. Bari mu muhanda urimo amapave ndetse iruhande rwabo hari ibiti.

Umukecuru bigaragara ko ari umukecuru ugeze mu zabukuru kuko afite imvi ku mutwe, ari kumwe n'umukobwa ukiri mutoya bisa nkaho ariwe ushinzwe kumwitaho. basuhuzanyije yamuhaye ikiganza, uyu mukobwa ari kumuganiriza ubona ko bishimye cyane.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru afite ubwanwa bw'imvi, ari kumwe n'umuforomokazi ushinzwe kumwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu musaza yicaye ahantu yegamye ndetse afite inkoni mu kaboko ke k'imoso, biragaragara ko uyu musaza n'uyu mukobwa bishimanye barimo baraseka.

Umusaza ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru akaba yicaye ku kagare. Inyuma hari undi mumama cyangwa se umwana we bisa nkaho arimo aramusunika ku kagare, bari guseka urabona ko bishimye cyane.

Abantu bicaye ahantu bakoze akaziga, bakaba bicaye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo. Bisa nkaho bano basaza bakuru barimo, barimo baraganiriza runo rubyiruko kugira ngo na rwo rumenye ibyo abasaza baba bazi.

Umusaza bigaragara ko ageze mu gihe cy'izabukuru, akaba yicaye kuka gare, akaba ari kumwe n'umukobwa w'umuganga ushinzwe kumwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi, uyu mukobwa ari kuganira n'uyu musaza, urabona ko barimo baraseka bishimye.

Umukecuru ndetse n'umusaza ubona ko bageze mu gihe cy'izabukuru, bakaba biyicariye iwabo mu rugo. Umukecuru hari urupapuro ari kwereka umusaza, umusaza ateruye agacupa karimo imiti ndetse ku meza hari n'indi miti ihari.

Umusaza ubona ko ageze mu zabukuru wicaye mu ntebe, akaba yambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu. Imbere ye hari umuganga w'umukobwa bisa nkaho ari we ushinzwe kwita kuri uyu musaza, akaba arimo aramufungira ibipesu.

Umusaza n'umukecuru, ubona ko umusaza ageze mu gihe cy'izabukuru, aba bombi bakaba bicaye ku meza barimo barasangira amafunguro atandukanye, urabona ko bishimye cyane ndetse kuri ayo meza hateretse n''kirahuri cy'amazi.

Abantu ubona ko ari abasirimu cyane, bakaba bari ahantu hubatse amahema ndetse hari n'ibindi byapa, hari utugare bazanye twifashishwa n'abantu bafite ikibazo cyo kutabasha kugenda, aho hari umugabo arimo aragahereza undi mugabo wagenderaga mu mbago.

Ni umuryango ubona ko wishimye, hakaba harimo umusaza ndetse n'umukecuru bageze mu zabukuru. Hari n'abana batatu, umuhungu n'abakobwa babiri urabona ko bishimye rwose barimo baraseka.

Ahangaha ni mu isoko, hakaba harimo abamama ubona ko ari abacuruzi, imbere yabo hateretse ibintu birimo inyanya ndetse inyuma yabo harimo amayetajeri arimo imbuto nyinshi bagiye bacuruza.

Ahantu hari abasaza ndetse n'abakecuru ubona ko bageze mu gihe cy'izabukuru, hari umusaza umwe uri mu kagare urimo urasunikwa n'umukobwa w'umuganga ukiri mutoya, bisa nkaho uyu mukobwa ariwe ushinzwe kwita kuri uyu musaza.

Umusaza wibereye iwe mu rugo, uyu musaza bikaba bigaragara ko akuze, akaba afite ikirahure kirimo amazi ndetse n'ikindi kiganza kirimo imiti, aho agiye kuyimira. Ni byiza ko niba muganga akwandikiye imiti, ugomba kuyinywera ku gihe.

Ahantu hateraniye abantu abagabo ndetse n'abagore, hakaba hasa nkaho hubatse amatente, hari abagore barimo bafata ifoto babiri muri bo bafashe ikintu kimeze nk'igikapu bari kukifotorezaho urabona ko abandi bari gukoma amashyi.

Umukecuru bigaragara ko ageze mu gihe cy'izabukuru, akaba yiyicariye ahantu hasi aho yarambuye akantu kameze nka tapi k'umukara, aho ari gukora siporo. Yarambuye akaguru ke k'indyo ak'imoso aragahina, amaboko ayakoza ku mano. Ari kwigorora umugongo.

Abakecuru babiri ubona ko bari mu gihe cy'izabukuru, hakaba harimo umwe ufite imvi z'uruyenzi ku mutwe. Bari ahantu mu gikoni barimo barateka, aho hagaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye, imboga, inyanya, urusenda rwa piripiri ndetse n'ibindi.

Umugabo w'umusaza ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru, akaba yicaye iwe mu nzu hari akamashini yishyize ku kaboko ke aho arimo aripima ngo arebe uko umuvuduko we w'amaraso uhagaze.

Umugore ubona ko afite umusatsi w'imvi, akaba ari hamwe n'umusaza bisa nkaho ari umugabo we. Bose urabona ko bageze mu gihe cy'izabukuru. Bakaba bari gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Urabona ko babyishimiye bose barimo baraseka.

Umukecuru ufite imisatsi y'imvi, bigaragara ko ageze mu mu gihe cy'izabukuru. Uyu mukecuru afite utuntu tubiri mu biganza bye, aho ari kudukoresha akora imyitozo ngororamubiri. Umukecuru yasetse, urabona.

Umumama ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru, akaba ari kumwe n'umukobwa ukiri mutoya barimo baganira, uyu mumama ari gukata imboga n'imbuto zo guteka urabona ko yishimye cyane.

Abagabo babiri ubona ko bakuze, bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri, bose bafite uducupa tw'amazi, barimo barirukanka ubona ko basetse, inyuma yabo haragaragara ibiti ndetse no ku ruhande hari ibiti n'ibyatsi byiza cyane.

Abantu bicaye ahantu mu twatsi twiza ubona hari amahumbezi, hakaba harimo umugabo umwe w'umuzungu uteruye akana k'akirabura, urabona ko bari kuganira bishimye bisa nk'aho ari umuryango wishimye.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru, akaba afite ubwanwa bwimvi, ari kwa muganga aho imbere ye hicaye umukobwa wumuganga, akaba yamushyize imashini ku kaboko ,arimo aramusuzuma uko umuvuduko w'amaraso uhagaze.

Inzu nziza cyane hakaba hicayemo abantu higanjemo abantu bageze mu gihe cy'izabukuru, hari abasaza bicaye aho, hari umusaza umwe wicaye uri hamwe n'umukecuru bose bafite imvi z'uruyenzi, inyuma yabo hakaba hari umuntu usa nk'aho ari umuganga wambaye baji, arimo aragerageza kwita kuri abo basaza, imbere kumeza hariho agasahani kariho ibyo barimo bararya.

Abantu benshi, ubona ko barimo barifotoza bahagaze ku murongo. Harimo umudaso, hakabamo n'abamama b'abazungu ndetse bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ariko atagaragara neza.

Umugabo wambaye akajire ndetse n'akagofero hamwe n'agapfukamunwa, arimo arakingira umugabo umuri imbere wambaye itaburiya y'ubururu bisa nk'aho barimo baramutera urukingo rw'icyorezo cya Korona virus.

Ni icyapa kiriho ibirangantego by'ibigo bigiye bitandukanye, hakaba handitseho uburyo twakoresha kugira ngo duhagarike icyorezo cya Korona. Harimo gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi ndetse n'ibindi.

Ni ahantutu bisa nkaho hari igikorwa runaka cyahabereye bikaba ari nkaho, ari muri sale y'inama aho hicayemo abantu, imbere y'abo bantu hakaba hagaragaramo umukobwa ufashe mikorofoni mu ntoki arimo aragira icyo ababwira.

Ni ahantu mu cyumba ubona ko bisa nkaho habereye inama, hakaba hari umugabo uhagaze imbere y'abo bantu bicaye aho ngaho, hari ibintu ari kubasobanurira. Hari imashini iri kwaka ndetse imbere ku rukuta bisa nkaho baporojegise ibintu biri muri iyo mashini.

Ababyeyi bari ahantu bisa nkaho baje kwaka serivisi zerekeranye n'ubuzima, bakaba bose bakikiye abana babo bakiri batoya, inyuma yabo ku rukuta hamanitse ibyapa biriho amafoto y'abantu ndetse handitseho n'amagambo atagaragara neza.

Ahantu bisa nkaho habereye ikirori runaka hakaba hicaye abantu barimo bareba ababyinnyi barimo bababyinira, inyuma y'aba babyinnyi hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari Umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya SIDA wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ni abantu ubona ko ari abasirimu bambaye amakoti y'ikositimu, bakaba bari ahantu mu nzu bisa nkaho hari ikintu cyari cyahabereye, bari mu nzu nziza ndetse iruhande rwabo hakaba hari ibyapa byanditseho amagambo, ndetse n'ibirangantego by'ibigo bitagaragara neza.

Mu ivuriro harimo abaganga bateraniye ku murwayi, barimo baragerageza kumuvura indwara afite. Iruhande rwabo hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bicometseho insinga kugira ngo bibashe gufasha bano baganga kwita kuri uyu murwayi.

Ni akaboko, k'umuntu utagaragara neza, uyu muntu akaba ari imibiri yombi. Aka kaboko kakaba kariho ibiheri, bisa nk'aho ari nka bya biheri, byagaragaye ku cyorezo cy'indwara, y'inkende.

Abantu bambaye amataburiya ndetse n'utujiri, aho barimo baraha ubuvuzi bw'ibanze umuntu uryamye kuri burankari baryamishije ahantu mu twatsi munsi y'igiti, hari umuganga bisa nkaho arimo aragerageza gufasha uyu muntu.

Umukecuru bigaragara ko akuze, akaba afite iminkanyari mu maso, ijisho rye ry'iburyo biragaragara ko ryapfuye, aho bamushyiriyeho agapfuko, akaba amerewe neza kurushaho.

Icyapa kiriho amagambo yanditseho, akaba yanditse mu mabara atandukanye, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara, iki cyapa kikaba kiriho Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC.

Aha ni muri sale y'inama, hakaba hicayemo abantu benshi bambaye impuzankano imipira y'imyeru ndetse bakaba bicaye ku ntebe z'imyeru. Imbere yabo hari umuntu w'umumama bisa nk'aho arimo arabasobanurira, aho iruhande rwe hari icyapa kiriho abantu bashushanyijeho n'andi magambo atagaragara neza.

Abantu bahagaze ahantu hari tapi y'ibyatsi bakaba barimo barifotoza bose bambaye bage mu ijosi, harimo abanyafurika ndetse n'abazungu, inyuma ya bo hakaba hari ibyapa bihari byanditseho amagambo atagaragara.

Ahantu bisa nk'aho hari hakorewe inama cyangwa se ari amahugurwa yahabereye, hari abantu bahari bafite imyenda bambaye bisa nkaho ari impuzankano, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho ibirangantego byinshi.

Mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye hagiye harimo inzobere, aha ngaha hakaba harimo abaganga bari kuvura umurwayi, inyuma yabo hari insakazamashusho bareberamo ikibazo umurwayi afite ndetse hari n'icyuma kiri aho gicometseho insinga.

Utuntu turimo ibizamini byinshi, byagiye bifatwa n'abaganga mu gihe hari harateye icyorezo cy'inkende. Hano hakaba harimo udukingo, ndetse bigaragara ko, abaganga bamaze gusuzuma, bakagenda bashyiraho udukubo.

Mu gihugu cy'u Rwanda ubuvuzi bwegerejwe abaturage, ahangaha hakaba hari abaganga baje kugira ngo basuzume abaturage indwara zo mu kanwa. Ahangaha hakaba hari abaganga babiri, umwe arimo aramurika umurwayi wicaye ku ntebe wasamye kugira ngo arebe ikibazo mu kanwa ke haba hafite.

Abantu babiri bahagaze imbere y'amadarapo harimo n'Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, bikaba ari umugore ndetse n'umugabo, aba bombi bafite icyapa cya RBC cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Umukecuru bigaragara ko ashaje kuko uruhu rwe rwajeho iminkanyari. Biragaragara ko ijisho rimwe rifite ikibazo kuko hariho igipfuko. Munsi ye hari amagambo yanditseho ndetse hariho n'amagambo agaragaza ko ari ubuzima mpuzamahanga.

Icyapa kiriho amaboko y'umuntu ariho ibiheri byinshi, iki cyapa kikaba kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba handitseho ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Ni kwa muganga, aho hari udutebe twicarwaho n'abarwayi mu gihe bategereje umuganga, hamanitse kandi ibipurizo by'umweru ndetse n'ubururu, ku gikuta hashushanyijeho ijisho ndetse n'utundi tuntu tugiye turiho.

Ivuriro ubona ko ryubatswe mu buryo bugezweho, rikaba rifite ibirahuri, kuri iri vuriro handitseho icyapa kigaragaza ko aha ngaha ari ahantu bita ku bibazo by'amaso, ayo magambo akaba yanditse mu rurimi rw'Icyongereza hashushanyijeho n'igishushanyo k'ijisho.

Aha ngaha ni mu ivuriro, hakaba harimo ibitanda byabugenewe biryamishwaho abarwayi ndetse hariho n'utundi dukoresho tumanikwaho supanete ndetse na serumu.

Ni mu cyumba kimwe cy'ivuriro hakaba harimo utuyetageri tugiye turimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo uducupa twafatiwemo amaraso ndetse n'ibindi.

Inyubako itangirwamo serivise z'ivuriro yubatse mu buryo bwa kijyambere, iyi nyubako ikaba ari etaje. Imbere haparitse imodoka nyinshi ndetse ku irembo hari umuntu ukinguriye imodoka imwe isohotse, hari n'undi muntu wicaye mu ntebe ihari.

Ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa etage, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zo kuvura abantu imbere yayo hakaba hari ibyatsi bihahinze ndetse haragaragara n'amapoto ariho amatara.

Abaganga bicaye ahantu bakorera akazi kabo, bakaba ubona hari ibintu bakoze bategereje kureba ibisubizo biri kuvamo. Hari uducupa tuhateretse ndetse hari agakoresho bari kwifashisha bapima ibizamini byabo. Imbere yabo hari etajeri irimo utundi dukoresho.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga aho harimo inzobere zambaye impuzankano yazo, zikaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga ziriho aho ziri kugenda zipanga utuntu twazo mu buryo bwiza kandi buboneye.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ubona ko cyubatse mu buryo bugezweho. Iki kigo nderabuzima ni etaje, munsi hakaba hari abantu baje kwaka serivisi ndetse haragaragara n'ibiti biteye mu marembo yacyo.

Abantu bari munsi y'inzu y'ababyeyi izwi nka materinete, bakaba bari kwifotoza harimo, abantu bambaye amataburiya n'impuzankano zabo, ubona ko bishimye bari kwishimira iki gikorwa remezo.

Umuforomokazi uri mu biro bye aho akorera akazi, akaba ari gukoresha imashini izwi nka kompiyuta, iruhande rwe hakaba hateretse utundi dukoresho tw'ingenzi yifashisha akora akazi ke ko kwakira no kuvura abarwayi.

Ni ahantu bisa nk'aho ari muri sale y'inama, hakaba hicayemo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hakaba hari umuntu waje kubaha ikiganiro ubahagaze imbere ndetse hari icyapa cyanditseho amagambo gusa ntabwo agaragara neza.

Ni ahantu hari umuganga gusa utagaragara mu isura ye, hakaba hicaye umusore ku ntebe ihari aho yakuyemo ishati umuganga arimo aramutera urukingo ku rutugu.

Abantu bicaye ahantu bisa nkaho ari muri sale yabereyemo inama bakaba bicaye ku murongo. Harimo abagore, abagabo bambaye impuzankano bisa nkaho hari umuntu uri imbere bateze amatwi uri kugira icyo ababwira.

Ivuriro ubona ko ryubatswe mu buryo bugezweho, rikaba ryubatswe mu buryo bwa etaje. Haragaragara porotayi cyangwa se irembo rijya muri iryo vuriro, impande y'iryo rembo hakaba hari ibyapa bihari, hariho icyanditseho ngo Nyanza hospital.

Ni kwa muganga aha ngaha hakaba ari mu cyumba gikorerwamo isuzuma ry'ibizamini biba byafashwe, iki cyumba kizwi nka laboratwari aho harimo igikoresho cya microscopy kifashishwa harebwa neza ikintu kiri mu bizami baba bafashe, hari uducupa n'udukoresho duhari dutandukanye.

Ni mu ivuriro hakaba harimo abaganga b'inzobere benshi, bambaye impuzankano zabo bipfukiye. Bisa nkaho hari ibintu runaka barimo barakora, bishobora kuba nabo byabanduza. Harimo udutanda tugiye dutandukanye turyamishwaho abarwayi ndetse hari n'agatanda kagaragaraho umurwayi.

Ni mu ivuriro hakaba hari umurwayi uryamye ku gatanda karyamishwaho abarwayi, iruhande rwe hakaba hari abaganga baje kumwitaho, umuganga umwe hari ibintu azanye kugira ngo asuzume uyu murwayi.

Ni muri sale bigaragara ko ari sale ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hakaba harimo udukoresho twinshi umuntu yakoresha akora siporo, harimo utwuma two guterura ndetse harimo n'utundi tuntu umuntu yicaramo akanyonga akamera nk'uri gutwara igare.

Ni mu ivuriro aho harimo ibyuma bikoresha ikoranabuhanga, hari icyuma kiryamishwamo umurwayi barangiza bakakimunyuzamo. Iki cyuma kigahita gitanga indwara umurwayi arwaye, ikanyuzwa kuri kariya kantu kameze nk'isakazamashusho.

Nyuma y'uko mu Rwanda hamaze kugaragara ko hari abantu bafite ibibazo by'ihungabana cyangwa se barwaye mu mutwe, u Rwanda rwafashe gahunda yo kubaka ikigo cyahariwe kwita kuri abo bantu, iyi nyubako ikaba ari Caraes Ndera, aho yita ku bantu bu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Ni mu ivuriro iki kikaba ari icyumba ubona ko gitunganyije neza cyane. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma umurwayi. Harimo ibimeze nk'aho wagira ngo ni isakazamashusho, hari kandi n'ibintu bimeze nk'aho wagira ngo ni computer, hariho ibitsinga byinshi.

Ikigo nderabuzima cyubakishije amatafari ahiye, imbere yacyo hakaba hari jaride nziza cyane, kuri icyo kigo nderabuzima hakaba handitseho ngo Isange One Stop Center, Remera Rukoma.

Ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ikaba yubatse mu buryo bugezweho, iyi nyubako ikaba ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya, aho ubona hatangirwa serivisi zo kwita ku barwayi.

Umugabo uri kwa muganga mu ivuriro, akaba yicaye mu gatebe kabugenewe yegamye, arimo arerekana agatoki bigaragara ko ameze neza, iruhande rwe hakaba hari icyuma cy'imashini y'ikoranabuhanga, kiriho insinga nyinshi zicometseho.

Abantu benshi bari imbere y'inzu ubona ko yubatse neza, harimo abagabo bambaye imipira bisa nk'aho ari impuzankano, hubatse amatente ndetse hari abantu benshi nk'uko bigaragara, bisa nkaho iyi nzu hari serivise runaka ihatangirwa.

Ni mu ivuriro ubona ko ari ivuriro riteye imbere, hakaba harimo udutanda turyamishwaho abarwayi, kuri buri gitanda hakaba hariho akamashini kameze nkaho ari insakazamashusho ndetse n'insinga zifasheho byifashishwa mu gihe umurwayi aryamye kuri aka gatanda.

Ni mu ivuriro hagaragara ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'udutebe abarwayi bicaraho n'utumeza, hakaba harimo n'udukoresho tw'imashini dukoresha ikoranabuhanga, turiho insakazamashusho yereka abaganga icyo umurwayi arwaye, ndetse n'utundi tubati duhari dutandukanye.

Ni muri sale ubona ko ari ngari cyane, iyi sale ikaba irimo ibikoresho byabugenewe abantu bifashisha bakora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, harimo utuntu tw'udutebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, ikaba igerekeranyije, ifite ibirahure byinshi ndetse isize n'amarangi y'umweru, imbere yayo hari imodoka iparitse ndetse akayira kajyayo karapavomye, hari n'ibiti bihateye imbere yabyo, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivise y'ubuvuzi.

Ni mu ivuriro aho hari icyuma cyabugenewe, iki cyuma kikaba cyifashishwa na muganga, aho aryamishaho umurwayi, hanyuma bakamunyuza muri iki cyuma, hanyuma iki cyuma kigahita gitanga amakuru ku gasakaza mashusho kaba kari iruhande, muganga akamenya indwara umurwayi arwaye.

Inyubako y'ivuriro ikaba yubatse mu buryo bugezweho, imbere y'iyi nyubako hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse haparitse n'imodoka nyinshi, hari kandi abantu barimo baza bahagana.

Ni mu ivuriro aho harimo ibikoresho bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe bari kwita ku murwayi, harimo udutebe twabugenewe umurwayi yicaraho ndetse hakaba harimo n'ibimashini n'insakazamashusho muganga areberamo, imbere hashushanyije igishushanyo k'ijisho.

Ni mu cyumba cy'ivuriro hakaba harimo ibikoresho byabugenewe abaganga bifashisha basuzuma abarwayi, harimo imashini zikoresha ikoranabuhanga zigiye zitandukanye, aho harimo nk'akamwe kameze n'insakazamashusho kereka umuganga umurwayi indwara arwaye.

Ivuriro ryiza cyane risa neza, rikaba ritangirwamo serivisi zo kwakira abarwayi no kubafasha. Ririmo amabara y'umweru, hasi hari amakaro, ndetse hateretse akantu k'ivaze, karimo ururabyo.

Igihugu cy'u Rwanda mu gutanga serivisi z'ubuvuzi kiri ku isonga. Aho hubatswe amavuriro agezweho ndetse muri ayo mavuriro hakaba harimo ibintu byinshi byabugenewe, nk'ibitanda byifashishwa haryamishwaho abarwayi mu gihe abaganga barimo barabapima.

Ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatse mu buryo bugezweho, iyi nyubako yubatse mu buryo bwa etaje biragaragara ko ari ivuriro cyangwa se ibitaro bya Nyarugenge, aho imbere yabyo hahagaze abaganga babiri.

Ni mu ivuriro, aho hari umurwayi uryamye ku gitanda kiryamishwaho abarwayi, hari umugabo wambaye umupira w'ubururu, akaba arimo aramufasha kumuzingira supanete, haragaragara kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga biriho insinga.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, mu muryango ndetse n'amadirishya bikaba ari ibirahuri, ku gikuta hari ahanditse ngo ni Isange One Stop Center ndetse hakaba hari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ni mu ivuriro aho harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi, hakaba hari bimwe biryamyeho n'abarwayi ndetse hakaba harimo abataravayeri bashinzwe gukora amasuku muri iryo vuriro. Harimo umusore uri gukubura cyangwa se gukoropa n'undi mugore bari kumwe.

Inzu ubona ko yubakishije amatafari ahiye ikaba isize n'irangi ry'umweru, iyi nzu akaba ari ikigo nderabuzima cya Rwerere, imbere yacyo hakaba hari jaride nziza cyane.

Aha ni mu ivuriro, aho harimo ibitanda byinshi bigiye biryamwaho n'abarwayi, harimo kandi n'umuganga uri kwita ku murwayi, haragaragara kandi utugare, akagare kamwe kicayemo umwana utabasha kugenda.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho hagaragara ibitanda byabugenewe abarwayi baryamaho. Kuri buri gitanda, hakaba hariho supanete ndetse hariho n'irido rikingira abantu kuba bareba ibiri kuberamo imbere.

Inyubako nziza cyane, itangirwamo serivise zo kuvura abantu bagiye batandukanye, iyi nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye, haragaragara mbere yayo, jaride zihari ndetse n'ibiti bibasha kuzanira umuyaga n'amahumbezi abarwayi.

Ni mu ivuriro hakaba harimo abaganga b'abakobwa, aho harimo udutanda turyamishwaho abarwayi. Udutanda tubiri muri two hakaba haryamyeho abarwayi b'abagabo, aho bano bakobwa barimo baragerageza kubitaho.

Mu Rwanda ubuvuzi buri kugenda butera imbere cyane aho hari inyubako izwi nk'ibitaro by'Umwami Faisal, yubatse mu buryo bwa etaje, imbere yayo hakaba hari amadarapo ahari ndetse harimo n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hari kandi n'abandi bantu bari munsi y'iryo vuriro.

Abantu benshi bari ahantu hari ivuriro, bakaba bari gufata ifoto, harimo abagore n'abagabo b'abazungu, bakaba begamiye ku kintu cyubakishije sima cyanditseho ngo ibitaro bya Butaro.

Ahantu ubona ko harunze utuntu turimo amaraso menshi, bisa nkaho ari abaganga bafashe amaraso hanyuma bakayashyira aha ngaha kugira ngo baze kuyapima uburwayi burimo.

Ivuriro ubona ko ryubatse mu buryo bugezweho, iri vuriro rikaba riri mu mabara y'ubururu, imbere yaryo hakaba hari abantu bahagenda ndetse hari n'imodoka iri kuhatambuka, hateye kandi n'uturabyo dukeya.

Mu mavuriro agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda usanga hari ahantu hagenewe kwakirirwa abantu bashya baje bagana kuri ayo mavuriro, hano hakaba hari ahantu hakirirwa abarwayi aho hari abarwayi baje kwaka serivise.

Ni mu ivuriro aho hari abaganga bahari ndetse n'abarwayi babiri, aho umuganga umwe arimo arandika imyirondoro y'umurwayi umuri iruhande, hari n'undi muganga uri gukingira cyangwa se gusuzuma undi murwayi, iruhande rwabo hakaba hari imashini icometseho insinga.

Abantu benshi bari ahantu imbere y'inzu ifite urukuta rurerure, hakaba harimo abantu bamwe b'abazungu ndetse n'abandi b'abirabura, hejuru kuri urwo rukuta hakaba handitseho ko ari ibitaro bya Rwamagana.

Umugabo uri guseka bigaragara ko ari umuganga, akaba afite akantu mu ntoki gasa nkaho karimo ibyanditsemo. Inyuma ye hakaba hari akandi kana gahari kambaye ikanzu y'ubururu.

Inyubako nziza cyane ubona ko ari inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, iyi nyubako ikaba yanditseho ngo ni kaminuza y'u Rwanda, hakaba hari abantu barimo baramanuka ku mayesikariye ari aho hafi.

Ni kwa muganga aho ubona ko hari amatsinda abiri y'abaganga, bisa nkaho hari ibintu runaka barimo barakora, itsinda rimwe riricaye riratuje, irindi tsinda urabona ko hari umuntu uri kwihuta cyane, bisa nkaho hari ikibazo kivutse agiye kureba uburyo bagikemura.

Umugabo wicaye ahantu ku gitebe cyubakishije amabuye, akaba yicaye munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo. Hakaba hagaragara iruhande rwe jaride nziza cyane, ndetse haragaragara n'inzu.

Ni mu nyubako bigaragara ko ari mu ivuriro, hakaba hari aho bakirira abarwayi. Hari umuntu wicaye ku ntebe, utegereje ko uri kwakirwa avayo kugira ngo na we akurikireho. Imbere hari insakazamashusho abantu baba bareba kugira ngo batarambirwa. Ku meza, hateretse ivaze iriho ururabo.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye. Hari umuganga wafunguye ikintu k'ikimashini, bisa nkaho hari ibintu harimo araterekamo. Imbere ye kandi hari n'ibindi bimashini bibiri.

Ni ahantu ubona hubatse inyubako zigiye zitandukanye, ku irembo hakaba hariho akantu kanditseho ngo ibitaro bya Kabgayi, haragaragaramo abantu bari kugana muri ibyo bitaro bisa nkaho baje kwaka serivisi, harimo kandi n'amapoto ariho amatara.

Umukecuru bigaragara ko ari mu zabukuru, akaba yambaye ikanzu ikoze mu bitenge. Yicaranye n'umuganga w'umugabo ushinzwe kumwitaho, aho ubona umukecuru yizihiwe arimo aramuganiriza.

Abantu bari kwifotoreza imbere y'Ikigo Nderabuzima cya Gishweru, iki Kigo Nderabuzima kikaba cyubakishije amatafari ahiye. ndetse hari undi muntu wicaye, biragaragara ko hari n'abandi bantu barimo baraza bagana aho ngaho kuri icyo Kigo Nderabuzima kuhaka serivisi.

Ni inyubako ikorerwamo serivise z'ivuriro, iyi nyubako ikaba yubatse mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, ifite ibirahure byinshi ndetse imbere yayo hakaba hateye jaride, hari akayira keza kajyayo ubona ko kubakishije sima.

Mu gihugu cy'u Rwanda ubuvuzi buri gutera imbere cyane, aho uhasanga abaganga b'inzobere ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga bibafasha, mu gihe barimo barakora akazi kabo bashinzwe, hari amamashini agiye atandukanye bifashisha kugira ngo banoze akazi kabo.

Inyubako zikorerwamo serivisi yo kuvura abantu bagiye batandukanye, zubatse mu buryo bugezweho, ndetse akayira kajyayo karimo amapave, hari ubusitani buhateye ubona ko ari bwiza cyane.

Inyubako y'ivuriro ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari ahantu hari ama esikariye abantu bazamukira bayiganamo. Hari umuganga uhagaragara uri kumwe n'umukecuru waje kwaka serivise ndetse iruhande rw'iyo nyubako, hakaba hagaragara indabo zihateye.

Umubyeyi w'umumama uri kumwe n'umuganga, uyu mumama akaba afite akana muri kigoma, bisa nkaho uyu mubyeyi amaze iminsi mike abyaye, aho ari kumwe n'umuforomokazi wamwitayeho. Uyu mumama yambaye umukufi mu ijosi ndetse n'uyu muganga na we yambaye undi mukufi mu ijosi.

Mu ivuriro aho hari kugaragara ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari igitanda kiryamishwaho abarwayi ndetse hari aho umuntu yogera intoki mu gihe avuye mu bwiherero.

Ni mu ivuriro, aho hagaragara igikoresho cyabugenewe, iki cyuma kikaba kiryamishwaho umurwayi, kigasuzuma indwara afite umuganga akayibona, binyuze muri aka kantu kameze nk'isakazamashusho kari ku cyuma.

Ivuriro ubona ko ryubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo ahagana ku irembo hakaba hamanitseho icyapa cyanditseho ngo Kigina health center, ndetse imbere y'uwo muryango hari umumama uhetse akana usa nkaho aje kuri iryo vuriro kugira ngo ashake serivisi.

Inyubako nziza cyane, yubatse mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati y'ubururu, imbere y'iyo nyubako hicaye abamama babiri bafite abana. Iyi nyubako ikaba ari ikigo nderabuzima cya Shagasha.

Ni hantu kwa muganga bikaba bisa nkaho iki cyumba ari icyumba cya stock. Harimo etajeri irimo ibintu byinshi bibitsemo ndetse biragaragara ko ari ahantu hagari cyane hashobora kuba habitswe ibintu bigiye bitandukanye.

Mu mavuriro agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda, hagiye harimo ibikoresho byabugenewe nk'intebe abarwayi bicaraho mu gihe abaganga barimo barabasuzuma. Ndetse harimo n'ibindi byuma by'imashini, abaganga bareberamo kugira bamenye icyo umurwayi arwaye.

Ni igikorwa remezo, kikaba gitangirwamo serivisi z'ivuriro, rikaba ari nimugoroba. Amatara ari kwaka ndetse hari abantu bari mu tuyira ubona ko baje kwaka serivise. Iryo vuriro imbere yaryo hakaba hateye igiti kinini, kizana umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ibintu byiza cyane, akarusho biba byiza iyo umaze gukora imyitozo ngororamubiri ubundi ukinywera amazi, hano hari umukobwa umaze gukora imyitozo ngororamubiri akaba afashe agacupa ke mu kuboko kw'indyo, arimo arinywera amazi.

Umuntu bigaragara nkaho ari umukobwa akaba yicaye iwe ku gitanda. Isura ye ntabwo igaragara ariko biragaragara ko ku ivi yagize ikibazo asa nk'aho yakomeretse, bakaba bamushyizeho agapfuko kugira ngo abashe kuba yakoroherwa.

Ni umusore bigaragara ko akora siporo akaba ari guterura liteli akikijwe n'amafunguro agiye atandukanye yaba atera imbaraga, ayarinda indwara ndetse n'ayubaka umubiri umuntu ashobora gufata nyuma y'uko avuye muri siporo harimo amagi, inkoko ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni umukobwa wicaye iwe ku buriri, ukaba ubona bisa nk'aho ari mu gitondo, uyu mukobwa akaba abyutse yinanura, aho yazamuye amaboko ye yombi arimo arinanura, bisa nk'aho abyukanye ubunani.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yashyize akaboko hasi akaguru k'indyo yagahinnye ak'imoso kararambuye, arimo aragerageza kwigorora. Ari gukora rero imyitozo ngororamubiri nyuma yuko amaze kumenya akamaro kayo.

Umuntu uryamye ku gatanda kabugenewe aho ari kwa muganga, muganga akaba yafashe akaguru k'uwo murwayi k'imoso arimo arakagorora yakarambuye. Bisa nkaho uyu murwayi mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri akaguru ke k'imoso kagize ikibazo, muganga akaba ari kumufasha kugasubiza ku murongo.

Ni cyapa kigaragaraho umukobwa uri gutera pompaje ari gukora imyitozo ngororamubiri hakaba handitseho imbuto umuntu ashobora kurya mu gihe avuye muri siporo zikamufasha kugarura imbaraga harimo umuneke, ibitunguru, indimu, ama pome ndetse n'ibindi.

Icyapa kiriho ishusho y'umusore urimo arasa nk'uwirukanka ubona ko ari umusore w'ibigango wakoze imyitozo ngororamubiri, hariho n'izindi mbuto nka karoti, amashu, amaronji ndetse n'izindi, izi zikaba ari imbuto ku muntu uvuye muri siporo ashobora gufata akarushaho kumererwa neza.

Ni ahantu hari umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye hasi aho yarambuye akaguru ke k'imoso, ak'indyo yagahinye. Yafashe ku mano y'ako kaguru yarambuye, arimo arigorora. Afite ekuteri mu matwi ndetse hari akantu yashyizemo telefone kari ku kuboko kwe, imbere ye hakaba hateretse agacupa karimo amazi.

Umumama wicaye ahantu bikaba bisa nkaho yagize ikibazo ku kaboko ke k'imoso, aho yashyizeho barafu iri mu ibara ry'ubururu, akaba arimo arikanda kugira ngo yumve ko yakongera kumererwa neza.

Umusore w'ibigango ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri, akaba yateye umugongo kamera aho amaboko ye yombi yayafatishije mu kajyori, uyu musore bisa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri yigorora gake gake.

Umusore uri mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, akaba yaryamye hasi ariko akaguru ke k'indyo akaba yakaziritseho umugozi ukweduka. Uyu musore ari kugenda azamura akaguru yongera akamanura, akora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye ahantu hameze nko ku isima akaba arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yarambuye amaguru hasi aho amaboko yayarengeje amaguru arimo arigorora umugongo.

Ni icyapa ubona kiriho amaguru y'umuntu, hakaba hariho n'insimburangingo eshatu, biragaragara ko uyu muntu uri kuri iki cyapa yambaye insimburangingo z'amaguru. Mu gihe umuntu afite ikibazo cy'akaguru ashobora kuza agafata zino nsimburangingo akabasha kongera gutambuka.

Ni mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri izwi nka gimu, hakaba harimo umusore ubona ko ari umusore w'ibigango uri gukora siporo, iruhande rwe hakaba hari umukobwa wicaye uri kureba ibyo uwo musore ari gukora.

Ni mu ivuriro aho umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga, muganga akaba afite igikoresho cyabugenewe arimo arasuzuma uyu mwana, imbere ku meza hari insinga nyinshi ziriho imashini ndetse haragaragara n'insakazamashusho.

Umuntu ugaragara ibiganza utagaragara mu maso, ari kumwe n'undi muntu na we ugaragara ibiganza. Arimo aramwambika amabande ye ku maboko ye yombi, bisa nkaho uyu muntu mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri ashobora kuba yagize ikibazo.

Umugabo wari uri gukina umwe mu mikino ikunzwe ku Isi, akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, bisa nkaho agize ikibazo hakaba hari abagabo babiri bamuri iruhande b'abaganga baje kureba ikibazo agize ngo babe bamuha ubuvuzi bw'ibanze.

Umusore bigaragara ko ashobora kuba yagize ikibazo cy'imvune, ubwo yari ari gukora imyitozo ngororamubiri. Akaba yaje kwa muganga bakamuryamisha ku gatanda kabugenewe, aho umuganga arimo aragerageza kumufasha kugira ngo amukande cyangwa se amugororere iyo mvune, abashe kumera neza kurushaho.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, hakaba harimo umusore uryamye hasi bisa nk'aho agize ikibazo mu ivi. Hari umuganga uba ushinzwe kuza kwita ku bakinnyi, aho arimo aramukandira mu ivi kugira ngo arebe ko uyu musore yahaguruka ongera agakina. Iruhande rwabo hari igikapu gihari ndetse hari na baro.

Ahantu hari abantu bambaye utujiri turiho ikimenyetso cya Croix rouge, bikaba bisa nk'aho barimo barigishwa uburyo bashobora gutanga ubuvuzi bw'ibanze, hari umuntu uryamye hasi, undi arimo araza kumufasha kugira ngo ababere urugero rw'uko bajya bavura abantu mu gihe bagize ikibazo.

Umukobwa uri mu nzu ye ari gukora imyitozo ngororamubiri. Imbere ye hakaba hateretse mashine, utuntu tubiri yifashisha akora imyitozo, agacupa k'amazi, ndetse uyu mukobwa yasobekeranyije amaguru ye, amaboko yayazamuye arimo arigorora.

Ikirahure giteretse ahantu bisa nk'aho ari ku meza, iki kirahure hakaba hari agacupa karimo amazi ubona ari amazi meza. Aka gacupa kakaba kari gusuka amazi muri iki kirahuri. Aya mazi biragaragara ko umuntu ashobora kuba yanayanywa.

Ikirahure giteretse ahantu, hakaba hari ikindi kirahure kirimo kiravamo amazi ajya muri cya kirahure giteretse, urabona ko ari amazi meza umuntu ashobora no kuba yayanywa.

Ni icyapa kiriho bimwe mu bintu wakenera mu gihe ugiye gutanga ubuvuzi bw'ibanze. Harimo amaga, hakabamo utunini, hakabamo imikasi, inshinge, udupimo bashyiramo amaraso ndetse n'ibindi.

Aka ni akamashini gakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gihe barimo barasuzuma umuntu indwara y'umutima cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Haba harimo imibare, iyo imibare igiye hejuru umuganga ahita amenya ko hari ikibazo kibaye.

Ni umusore w'ibigango, uyu musore akaba ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Ari gukora imyitozo, aho iruhande rwe hari umukobwa usutaraye arimo arareba imyitozo akora. Muri iyo nzu hakaba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, bamushyiriye akantu hasi ari kugenda agacamo yiruka. Afite akantu ka balo imeze nkaho ari iya Rugby, inyuma ye hakaba hari umutoza uri kumufasha gukora imyitozo.

Inkweto ndende ubona ko ari inkweto zikomeye, izi nkweto zikaba zishobora kwambarwa n'umuntu uri kurinda umutekano cyangwa se zikaba zakambarwa n'undi muntu ugiye gukora igikorwa runaka kidasanzwe, kuri iyo nkweto hariho akapa kanditseho ngo Bato.

Umukobwa wicaye ahantu hasi, akaba yasashe agatapi k'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri amaguru ye yayasobekeranyije, imbere ye hateretse imashini, utwuma tubiri akoresha aterura mu ntoki ndetse hari n'agacupa k'amazi.

Umusore bigaragara ko uyu musore yakoze imyitozo ngororamubiri, akaba ari ahantu n'ubundi ari muri icyo gikorwa. Akaguru ke k'indyo yagashyize kuri korotire hari, amaboko ayafatisha kuri ka kaguru, ako hasi kararambuye neza, arimo aragorora umugongo.

Umukobwa wicaye ahantu akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, uyu mukobwa yarambije akaguru kamwe k'indyo akandi k'imoso yagahinnye, amaboko ye yayafatishije ku mano y'ako kaguru yarambuye, yambaye ekuteri ndetse afite n'akantu yashyizemo telefone ari gukora imyitozo ngororamubiri atuje.

Abantu benshi bari ahantu hamwe b'urubyiruko ndetse hakaba harimo n'abantu ubona bakuze, bari ahantu hamwe hari amapave aho bose bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni ahantu mu nzu, hakaba hari umusore uryamye hasi, aho munsi ye hari undi musore, uwo musore uryamye akaba yazamuye akaguru ke k'imoso yagashyize ku rutugu rw'uwo mugabo wundi wicaye iruhande rwe. Arimo aramufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni umukobwa wicaye ahantu mu nzu, akaba yarambije akaguru ke k'imoso akandi k'indyo gahinnye. Yafatishije akaboko ke k'imoso ku mano, ndetse akandi kaboko k'indyo gafashe mu ifi. Uyu mukobwa akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ubona ko ari umusore w'ibigango, akaba afite agacupa k'amazi arimo aranywa. Yambaye umukufi mu ijosi bisa nk'aho uyu musore yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri, hanyuma akanywa amazi kugira ngo yongere asubirane agatege.

Agakoresho k'ibanze gakoreshwa mu butabazi. Mu gihe umuntu yari ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba yavunika. Iyi ikaba ari burankari bashyiraho umuntu, mu gihe yagize ikibazo kugira ngo babashe kumuha ubuvuzi.

Umusore wicaye ku gatanda kabugenewe ko kwa muganga, akaba yagize ikibazo ku kaguru ke k'indyo, aho yaje kugira ngo mugenzi we amufashe amuvure kugira ngo imvune ye icyire vuba, yongere yisubirire gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuforomokazi uri aho akorera, akaba yambaye ubupfukamunwa ndetse n'akarindantoki, aho yambaye n'iyenda y'akazi. Ari kureba mu mashini iri imbere ye, yarangiza akandika ku kindi gitabo kiri imbere ye.

Ni icyapa kiriho kamwe mu gakoresho kazwi nka burankari kifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo bakamushyiraho bakamujyana bamuteruye, hariho kandi n'abantu bambaye imyenda yabo y'akazi bateruye iyi burankari iriho umuntu.

Umuntu w'umusore uryamye wambaye ikabutura bakorana siporo akaba afite telefone mu ntoki ze, hari undi urimo aramufasha aho yamufatiye akaguru ke k'imoso arimo aramufasha gukora siporo, yagahinnye undi asa nk'aho arimo aragasunika.

Umusore bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye ubusa hejuru. Akaboko ke k'indyo yagahinnye aho yifashe mu gituza, ndetse kuri ako kaboko hakaba hari ibintu bimushushanyijeho biri mu mabara y'umutuku n'ubururu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye ahantu mu nzu, yarambuye akantu kameze nk'agatapi k'umweru, aho amaguru ye yombi yegeranyije, amaboko ye yayafatishije ku mano, arimo arigorora, muri iyo nzu harimo intebe zihari zigiye zitandukanye.

Ni umusore wicaye mu kibuga kirimo ubwatsi bwiza. Biragaragara ko uyu musore ashobora kuba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, yarangiza agahita agira ikibazo cye ku itako. Yafasheho ari gukandaho bisa nkaho akeneye ubuvuzi bw'ibanze.

Ni ahantu bigaragara ko ari mu nzu nini cyane, hakaba harimo abantu baryamyemo, hari umugore wicaye kuri matera imbere ye hari akana gatoya ubona ko akana gato karimo karakoma amashyi kizihiwe, inyuma yabo hari undi muntu uhagaragara ko aharyamye.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe akaba yicaye hasi aho yarambije akaguru kamwe akandi gahinnye, amaboko ye akaba yayafatishije imbere ku kaguru karambuye, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo, inkweto yambaye ishushanyijeho utuntu.

Icyapa kiriho ikirangantego cyamamaza umukino wa karate, aho hashushanyijeho abantu babiri barimo bararwana. Munsi y'icyo kirango hakaba handitseho ngo "Rwanda Judo Federation".

Mu mavuriro agiye atandukanye yo mu Rwanda, hagiye harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma abarwayi. Aha ngaha hakaba hari icyuma cyabugenewe baryamishamo umurwayi bakakimunyuzamo, ubundi bakabasha kumenya indwara arwaye.

Ni umukeka uriho ibikoresho bigiye bitandukanye umuntu yakwifashisha akora siporo. Hariho inkweto zo kwambara, hariho umugozi ndetse n'utundi twuma. Ndetse mu gihe umuntu avuye muri siporo, hariho imbuto runaka umuntu ashobora kuba yakoresha kugira ngo agarure agatege.

Umusore bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri bikaba bigaragara ko ari umusore ukora siporo, mu kaboko ke k'imoso afitemo icupa ry'amazi arimo aranywa, kunywa amazi ni byiza cyane, cyanecyane mu gihe uvuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yicaye mu rugo iwe, yasashe akantu k'agatapi k'umukara, imbere ye hari imashini hakaba n'utundi dukoresho two gukoresha siporo adufashe mu ntoki, hateretse n'agacupa k'amazi, uyu mukobwa yasobekeranyije amaguru amaboko yayazamuye ari kwigorora.

Ni mu nyubako irimo umusore uri gukoreramo imyitozo ngororamubiri, akaba yashinze ivi ry'akaguru ke k'indyo hasi ndetse akaguru k'imoso kakaba nako gahinnye, hari ibyuma bibiri biremereye ari guterura mu maboko ye yombi ndetse iruhande rwe hari undi muntu uri kumufasha amureberera ibyo ari gukora.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite ekuteri ariko akaba yazishyize mu ijosi. Afite igurudu arimo aranywa amazi, akaba yari ari kwikorera imyitozo ngororamubiri, hanyuma akanywa amazi kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukobwa ubona ko yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, ari ahantu mu nzu aho yasashe akantu kameze nk'agatapi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yafashe akaguru ke k'imoso agashyira imbere aragahina, ubundi akandi k'inyuma k'indyo arakarambura, asa n'uzamura amaboko aho ari kwigorora.

Ni mu ivuriro hakaba harimo icyuma cyabugenewe, iki cyuma kikaba kiryamishwamo umurwayi bakamunyuzamo, hanyuma umuganga akabasha kuba yamenya indwara uwo murwayi arwaye, mu buryo bumworoheye.

Umukobwa w'inzobe yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo ngororamubiri yicaye ku kantu k'ubururu aho yarambuye amaguru, amaboko ye yombi ayafatishije ku birenge bye arimo arigorora kandi ari guseka.

Umusore wicaye ahantu akaba afashe agacupa k'amazi mu kaboko ke k'indyo, uyu musore akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, nyuma yuko yumvishije ananiwe, akabanza agafata akanya ngo asome ku mazi ubundi yongere agarure imbaraga.

Umusore wari uri gukora imyitozo ngororamubiri, bikaba bigaragara ko agize ikibazo mu ivi. Arunamye arimo arikanda mu ivi, bisa nkaho ashobora kuba agize ikibazo cy'imvune.

Umugabo wicaye iwe mu ntebe, bikaba bisa nkaho hari ikibazo afite ku kaboko ke k'indyo. Yafashe akabarafu k'ubururu, agashyira ku kaboko arikanda kugira ngo yongere asubirane.

Ni icyapa kiriho imwe mu miti yifashishwa mu rwego rw'ibanze. Iyi miti hakaba harimo umukasi, harimo amabande, hakaba harimo ibinya ndetse harimo na ga. Mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo, bakoresha ino miti yihutirwa kugira ngo bamufashe.

Umwana w'umukobwa uhagaze ahantu hameze nkaho ari ku mazi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe ndetse ahagaze yateye umugongo kamera, yazamuye amaboko ye hejuru, arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wicaye ku gatebe kabugenewe, akaba ari kwa muganga, aho ku kaguru ke k'indyo bashyizeho igikoresho kimufasha kumuramburira neza aka kaguru kugira ngo imitsi yongere ikore neza. Iruhande rwe hari umuganga uri kumwitaho bisa nk'aho uyu muntu mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri yagize ikibazo.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo, ari kunywa amazi ndetse ku kaboko ke k'imoso yambaye akantu yashyizemo telefone ye.

Ni umusore bigaragara ko arimo arakora imyitozo ngororamubiri, akaba yateye umugongo kamera. Akaboko ke k'indyo yagafatishije inyuma mu bitugu, ak'imoso arakazamura gafata ku nkokora ya ka kandi k'indyo, akaba arimo arigorora.

Ni icyapa kiriho umuntu ushushanyijeho, bakaba bari gushishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho. Ndetse kuri iki cyapa hariho amagambo yanditse mu Cyongereza, ariko akaba akubiyemo ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri.

Agatebe kifashishwa gahabwa abantu bafite ikibazo cyo kutabasha kugenda. Aka gatebe kakaba gafite aho umurwayi yicara ndetse agashyira amaguru ndetse aka gatebe kandi gafite amapine ku buryo umuntu abasha kuba yagasunika, akajyana uwo ukicayeho aho ashaka.

Umuntu w'umugabo wicaye ahantu akaba atagaragara isura ye, bisa nkaho afite ikibazo ku kaboko ke k'indyo, aho yashyizeho akabarafu kari mu ibara ry'ubururu, akaba yafatishijeho akaboko k'imoso, arimo aragerageza kwikanda ngo arebe ko yakongera akamererwa neza.

Umusore w'ibigango akaba afashe agacupa mu biganza bye, yararamye, arimo aranywa amazi, uyu musore biragaragara ko yari avuye mu myitozo ngororamubiri, aho amaze kuyisoza akavuga ati: ''reka nywe amazi kugira nongere ngarure imbaraga.''

Akaguru k'umuntu bigaragara ko ari umusore, akaba yaje ku ivuriro, aho yagize ikibazo cy'imvune mu kaguru ke. Hari umuganga umuri iruhande, ibiganza bye yabifatishije ku ivi arimo agerageza kumukandi iyo mvune ngo arebe ko umusore yakongera kumererwa neza.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, akaba arimo aranywa amazi akoresheje agacupa k'amazi, uyu musore akaba yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri aho yari yicaye kugira ngo abanze afate akuka.

Mu bitaro bigiye bitandukanye byo mu Rwanda, hagiye harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'abaganga basuzuma umurwayi. Hano hakaba hari icyuma, kinyuzwamo umurwayi kugira ngo muganga amenye neza indwara arwaye.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo igitanda kiryamishwaho abarwayi ndetse hejuru yabyo hakaba hari ikindi kintu kimeze nk'itara ndetse haragaragara n'utumashini tumeze nk'insakazamashusho abaganga bareberamo.

Umusore n'umukobwa bigaragara ko bavuye gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, umusore aricaye umukobwa arahagaze, imbere yabo hari ibikapu bibiri by'imikara bihateretse.

Umusore uri kunywa amazi akoresheje igurudu, uyu musore akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, yarangiza akavuga ati kanywe amazi kugira ngo nongere ngarure agatege.

Igikapu gitwarwamo imiti y'ibanze kikaba gifunguye, iki gikapu hakaba harimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, yifashishwa n'umuganga mu gihe ahamagawe ko hari ahantu hari ikibazo kihutirwa.

Umukobwa uri kwa muganga, bikaba bigaragara ko mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, ashobora kuba yagize ikibazo mu mvune. Ari kumwe n'umuganga aho akaguru ke k'imoso yakazamuye akagashyira hejuru, umuganga akaba ari kumukanira mu ivi kugira ngo umukobwa yongere amererwe neza.

Umukobwa uri ahantu mu nzu, yasashe akantu kameze nk'aho ari agatapi k'umukara, uyu mukobwa akaguru ke k'imoso yagashyize imbere aragahina, akandi k'inyuma na ko arakarambura azamura amaboko hejuru, uyu mukobwa akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uhagaze ahantu bisa nkaho ari ku kiraro kuko iruhande rwe hari amazi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaguru ke k'indyo yagashyize ku cyuma gihari, akaboko ke k'indyo yagafatishije ku mano y'ako kaguru ndetse ak'imoso kifashe mu rubavu, arimo arakora siporo ngororamubiri.

Ni ahantu hari abantu benshi cyane, hakaba hari abari gukina basikete, hari akana kazamuye amaboko gasa nk'aho kari gateye umupira, abandi bari aho barashagariye barimo barareba uwo mwana ibyo akora.

Abagabo babiri bari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri uwo mukino. Hari umusore uryamye ku gatebe kabugenewe iruhande rwe hari umugabo w'umuzungu urimo arareba imyitozo ari gukora.

Mu mavuriro hirya no hino ku isi, agiye ateye imbere, harimo ibyuma byabugenewe, byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma umurwayi. Hano hakaba hari icyuma cyabugenewe, aho umurwayi bamuryamisha hano, bakakimunyuzamo, kugira ngo bamenye indwara arwaye.

Umusore baryamishije ku gatanda kabugenewe, hakaba hari abandi bagabo babiri bisa nkaho barimo baramwitaho nyuma y'uko yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, hirya yabo hari undi mukobwa nawe uharyamye urimo uritabwaho n'undi mukobwa mugenzi we.

Igikapu kiri mu mabara y'umutuku kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ibanze, byifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane nko mu kibuga, akaba yagiriramo ikibazo nko kuvunika, harimo imikase, amabande, amapomade ndetse n'ibindi bitandukanye by'ubutabazi bw'ibanze.

Ni byiza ko umuntu wese yakabaye akora imyitozo ngororamubiri. Gusa nyuma y'uko umuntu avuye muri siporo, hari ibiryo cyangwa se amafunguro yakabaye afata kugira ngo arusheho kumererwa neza. Hano hakaba hari agacupa karimo amazi, kifashishwa n'umuntu uvuye muri siporo, hakaba hari n'izindi mbuto n'utundi dukoresho tw'ibanze.

Ikirahure giteretse ahantu ku meza, hakaba hari ikiganza cy'umuntu utagaragara uri gusukamo amazi ayakuye mu ijage. Biragaragara ko aya mazi ari meza, umuntu ashobora no kuba yayanywa.

Ni mu nyubako ubona ko irererwamo abana b'imfubyi, hakaba hari akana kicaye kari kumwe na mansera ndetse n'undi mugore w'umuzungu. Haragaragara kandi n'abandi bantu bahari aho ngaho inyuma, aha rero hakaba ari ahantu hifashishwa bita kuri aba bana.

Umusore w'ibigango ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije, akaba yakuyemo hejuru yambaye ubusa. Ku rutugu rwe ku kaboko k'indyo hashushanyijeho ibintu biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Umusore ndetse n'inkumi, aho barimo barakora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, aba bombi bakaba bafite uducupa turimo amazi kugira ngo nibananirwa baze kwicara bayanywe bongere bagarure agatege.

Umukobwa wicaye hasi uri gukora siporo ngororamubiri, akaba akaguru ke k'indyo yakararambuye ak'imoso yagahinnye arimo arigorora. Yambaye ekuteri zifashe ku kantu kari ku kuboko yashyizemo telefone, ndetse iruhande rwe hateretse n'agacupa k'amazi.

Umukobwa wicaye ahantu habugenewe ho gukorerwa siporo ngororamubiri, akaba yarambuye amaguru y'imbere, aho amaboko ye yayashyize imbere ku mano, uyu mukobwa ari kugorora umugongo abinyujije muri iyi myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yahinnye ivi rye ry'ibumoso akaba yafatishije ibiganza bye, birashoboka ko rino vi rishobora kuba ryagize ikibazo, mu gihe yari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikimera ubona ko ari ikimera gitoshye, kikaba kiri mu ibara ry'icyatsi, iki kimera kikaba cyifashishwa n'abavuzi gakondo, aho bagikoramo imiti igihe baba bakivangavanze n'ibindi bimera.

Agacupa ubona ko gakozwe mu buryo bukomeye, aka gacupa iruhande rwako hakaba hari ibibabi by'ikimera kizwi nk'igikakarubamba, aka gacupa mu bigaragara harimo imiti ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye nk'imiti gakondo.

Ahantu hameze nk'aho ari mu ishyamba, hakaba hateye ibimera byinshi bigiye bitandukanye, hari ikimera kihateye ubona gifite amababi atoshye, iki kimera kikaba cyifashishwa n'abahanga bakoramo imiti itandukanye ivura indwara.

Uducupa tw'amoko atandukanye, twose tukaba turimo imwe mu miti ikorwa mu buryo bwa gakondo aho ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, uducupa tubiri duto ni umweru, utundi tubiri tureture ni umuhondo, utu ducupa hakaba handitseho ngo Foreva.

Ahantu hameze nk'aho ari ku meza, hakaba hari ibimera bihari, hari kandi agasekuru karimo bimwe mu bimera n'umuhini, aho umuvuzi wabigize umwuga arimo arasekura kugira ngo abibyazemo umuti gakondo uvura indwara.

Ni umurima uteyemo ibikakarubamba, ibi bikakarubamba bikaba ari bimwe mu byifashishwa n'abaganga ba gakondo bakora imiti igiye itandukanye gakondo ivura indwara nyinshi kandi zikomeye.

Icyapa kiriho agacupa gafunikishije umufuniko w'umweru, aka gacupa kakaba kariho icyapa kiri mu mabara, handitseho n'amagambo atandukanye, handitseho kandi icyo uwo muti uvura ko ari umuti w'umuryango uvura kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ibindi.

Abantu benshi usanga bagira ikibazo cyo kutamenya bimwe mu bimera bifitiye akamaro ubuzima bwacu, cyangwa se bikorwamo imiti igiye itandukanye, iki kikaba ari ikimera kizwi nk'umuravumba, kikaba gikorwamo imiti gakondo ivura indwara nyinshi.

Ahantu hari utuvaze twinshi turimo ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye, ibi bimera bikaba bihuzwa bikavangwavangwa n'inzobere, zigakoramo imiti gakondo, ifite ubuziranenge kandi ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Etajeri irimo uducupa tugiye turimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, iyi miti yose ikaba ikozwe muri bimwe mu bimera byabugenewe abaganga gakondo bifashisha bakoramo imiti yabo, iyi miti gakondo ikaba ivura indwara nyinshi.

Imwe mu miti gakondo igiye itandukanye, hari abantu batazi neza ko ikorwa muri bimwe mu bimera dukunda kubona hano ku isi. Hano hakaba hari igiti ubona gikuze, iki giti kikaba nacyo cyifashishwa n'abavuzi gakondo bavangavanga n'ibindi bakoramo imiti ivura indwara.

Icyapa kiriho ikirangantego cyenda gushushanywa mu nyuguti ya M, kikaba kiri mu ibara ryenda kuba ikigina, handitseho amagambo agira ati Akagera Medecine.

Ahantu hari amavase ateyemo ibiti, ibi biti bikaba biri mu ibara ry'icyatsi. Ibi bimera bikaba byifashishwa na bamwe mu baganga gakondo bakoramo imiti igiye itandukanye ivura indwara.

Uducupa turi mu mabara agiye atandukanye tukaba turi mu bwoko bugiye butandukanye, utu ducupa tukaba turimo imiti igiye ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye, aho tumwe mu ducupa hashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba.

Ahantu hahinze ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba hari igiti kihahinzwe gifite amabara y'icyatsi, iki kimera kikaba cyifashishwa n'abahanga mu kuvangavanga imiti aho bakoramo umuti uvura indwara zigiye zikomeye.

Agacupa kari mu ibara ry'umutuku kakaba gapfundikije umufuniko w'umutuku. Aka gacupa hakaba hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kuri icyo cyapa hakaba hariho ikimera cy'igikakarubamba. Aka gacupa kakaba karimo umuti ukozwe mu buryo bwa gakondo.

Icyapa kiriho uducupa tw'amoko agiye atandukanye turimo imiti igiye itandukanye, utu ducupa twose tukaba turi mu mabara y'umweru, hagiye harimo imiti ikozwe mu bihingwa cyangwa se ibimera gakondo ndetse tumwe mu ducupa hagiye hariho ikimera cy'igikakarubamba.

Ni uducupa dupanze ahantu muri etajeri utu ducupa tukaba turimo imiti ivura indwara zitandukanye. Iyi miti ikaba yarakozwe mu bimera karemano ndetse iyi miti ikaba ari imiti gakondo ikorwa n'abahanga muri byo.

Uducupa turi mu bwoko bugiye butandukanye, utu ducupa tukaba turimo imiti imwe mu miti yakozwe mu bimera bitandukanye yakozwe n'abavuzi ba gakondo, iyi miti ikaba ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Icyapa kiriho ibihingwa bigiye bitandukanye, bikorwamo imiti igiye itandukanye, ibi bihingwa bikaba ari gakondo, aho ubwabyo muri byo bishobora kuba byakora nk'umuti, cyangwa se bikavangavangwa bigakurwamo umuti.

Igiti ubona ko giteye amabengeza, iki giti kikaba kiri mu ibara ry'icyatsi. Iki giti kikaba cyifashishwa n'abahanga mu kuvangavanga imiti gakondo, aho bacyifashisha bakora imiti ivura indwara zitandukanye.

Ni agacupa gateretse ahantu, aka gacupa kakaba karimo umuti wakozwe muri kimwe mu kimera kifashishwa n'umuganga gakondo akora imiti. Kuri aka gacupa hariho icyapa cyanditseho ngo:"Umuravumba" ndetse hashushanyijeho n'icyo gihingwa.

Ni ahantu hameze nk'aho ari mu imurikagurisha cyangwa se hari kugurishirizwa imiti ivura indwara zitandukanye, hakaba hari uducupa twinshi turimo imiti, iyi miti ikaba ikozwe mu buryo bwa gakondo ndetse imwe n'imwe igiye iriho bimwe mu bimera bikorwamo imiti.

Agacupa k'umweru gapfundikishije umufuniko w'umweru, kakaba karimo imwe mu miti ikorwa mu bimera gakondo. Aka gacupa kakaba karimo umuti uvura indwara zitandukanye, ndetse kuri ako gacupa hariho icyapa cyanditseho ngo: "Forever".

Akabido kari mu ibara ry'umweru, kakaba gapfundikishije umufuniko w'umutuku. Aka kabido kakaba karimo umuti mwinshi wa gakondo, aho watunganyijwe mu bimera bigiye bitandukanye. Uyu muti wifashishwa n'abantu barwaye indwara zigiye zikomeye.

Ikimera ubona ko gifite amababi atoshye, iki kimera kikaba ari kimwe mu bimera byifashishwa n'abavuzi bakoramo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, iki kimera na cyo ubwacyo gishobora gukora nk'umuti.

Agacupa k'umweru gateretse ku gapurato k'umweru kariho imbuto zikase n'indabo, bivuze ko aka gacupa karimo imiti yakozwe mu bimera bigiye bitandukanye byavangavanzwe n'umuganga gakondo.

Ahantu hateye ikimera cy'icyatsi ubona ko cyagandaye cyakuze, iki kimera kikaba kifashishwa n'abahanga mu gukora imiti, aho abavuzi gakondo bagifata bakagikoramo imiti igiye itandukanye bifashisha mu kuvura indwara.

Ahantu hari etajeri ipanzemo uducupa tw'amoko atandukanye turimo imiti myinshi ya gakondo itandukanye, inyuma haragaragara umuntu uhahagaze wambaye umupira w'umweru ndetse hari n'undi uri mu muhanda wa kaburimbo.

Ahantu hari uducupa turimo imiti igiye itandukanye ndetse tukaba turi mu ngano zitandukanye. Utu ducupa iruhande rwatwo hakaba hari ibimera n'indabo zabyo, ari zo zifashishwa hakorwamo imiti iri muri utu ducupa. Iyi miti Akaba ari imiti gakondo.

Ni abantu ubona ko bahetse ibikapu bisa nkaho bari mu bukerarugendo, bakaba bageze ahantu hari amashyamba ndetse n'umusozi urimo uraturukamo amazi. Urabona ko ari ahantu heza ndetse hashimishije.

Ikirabyo cyangwa se ikimera cyiza cyane ubona ko gifite ibara ry'icyatsi. Iki kimera kikaba cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gihe baba barimo baratunganya imiti igiye ivura indwara zitandukanye.

Agacupa karimo umwe mu miti ikorwa mu bimera gakondo, aka gacupa kakaba gacuritse, umufuniko ari wo uri hasi. Kuri aka gacupa hakaba hariho kimwe mu kimera kizwiho kuvura indwara zitandukanye, cyitwa igikakarubamba.

Iki ni ikimera k'icyatsi ubona ko iki kimera gitohereye, urebye ku mababi yacyo, iki kimera kikaba ari kimwe mu bimera byifashishwa n'abaganga gakondo, bakoramo imiti igiye itandukanye bifashisha bavura indwara.

Ikibabi kiriho utunini bigaragara ko utu tunini dushobora kuba twarakozwe muri iki kibabi, kuko kino kibabi cyifashishwa n'abavuzi gakondo bagikoramo imiti myinshi igiye itandukanye, rero bino binini biva muri kino kibabi.

Ni agacupa kari mu ibara ry'umweru, aka gacupa kakaba gapfundikishije umufuniko w'umweru, aka gacupa karimo umwe mu miti ikorwa n'abavuzi gakondo, ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni ahantu ubona ko hahinze ibiti by'amoko agiye atandukanye ariko hakaba hagaragara igiti cyiza giteye amabengeza, gifite amababi y'icyatsi, cyererutse. Iki kikaba cyifashishwa n'abahanga mu kuvanga imiti ya gakondo kuko cyifashishwa kivura indwara zigiye zitandukanye.

Bimwe mu bimera karemano usanga ari nabyo bivamo imiti, igiye itandukanye, aha ngaha hakaba hari kimwe mu kimera cyifashishwa hakorwamo imiti gakondo ndetse ubwacyo nacyo ni umuti, uvura indwara nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Ni ahantu bigaragara ko hahinze ibyatsi bitandukanye, hakaba hari icyatsi kigaragara cy'icyatsi. Iki cyatsi kikaba cyifashishwa n'abahanga mu bya gakondo, aho bakoramo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni ikibabi cy'ikimera, ubona ko kuri icyo kibabi hariho ibinini biriho, bikaba bigaragara ko kuri kino kibabi ariho bino binini bikorwa, iki kikaba ari ikibabi gikorwamo imiti igiye itandukanye n'abaganga bavura gakondo.

Ahantu hameze nko ku meza hateretse agasahani kariho ibimera bigiye bitandukanye, ndetse hakaba hateretseho akantu kameze nk'agasekuru karimo akantu k'umuhini basekurisha bino byatsi. Ubu bukaba ari uburyo umuganga gakondo akoresha avangavanga ibyatsi, akabikoramo imiti gakondo ivura indwara.

Uducupa dutatu turi mu bwoko busa nkaho bwenda gusa, kamwe kari mu muhondo akandi kari mu mweru uteruye neza akandi ko ni umweru weruye, imbere yako hari ibikakarubamba bisatuyemo ibice, bisa nkaho muri utu ducupa harimo imiti gakondo ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye harimo n'iki gikakarubamba.

Ipapayi ni kimwe mu kiribwa kiza cyane gishobora gufasha umuntu kimuha vitamine ndetse kinamurinda indwara. Aha hakaba hari igisate k'ipapayi, aho kiri hejuru y'irindi papayi ridasatuye. Ipapayi kandi naryo rikaba ari rimwe mu bintu byifashishwa n'abavuzi gakondo bakora imiti yabo.

Ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi kikaba gihinze ahantu, iki kimera kikaba ari kimwe mu bimera byifashishwa n'abaganga gakondo, bakora imiti igiye itandukanye ivura indwara.

Umugabo ndetse n'umugore, aba ngaba bisa nk'aho ari abavuzi gakondo. Bari ahantu hateye ibimera ndetse ibi bimera bikaba byifashishwa hakorwamo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Uru ni ururabo rwiza cyane rukaba rufite amababi y'icyatsi ndetse n'uturabyo hejuru, uru rurabo rukaba rukoreshwa n'abaganga bavura uburyo bwa gakondo bakoramo imiti.

Ni ahantu hari amoko menshi y'ibimera bigiye bitandukanye, hakaba hagaragara n'ibiganza by'umuntu uri guhonda ahantu hameze nkaho ari mu kavaza cyangwa se agasekuru afite n'agahini kabugenewe, uyu muntu yifashisha asekura ibi bihingwa kugira ngo akoremo imiti gakondo igiye itandukanye.

Ni icyapa kiriho agacupa, aka gacupa kakaba karimo umuti, uyu muti ukaba ukorwa mu buryo bwa gakondo. Kuri iki cyapa handitseho ngo igisubizo kuri Amibe.

Agacupa kari mu ibara ry'umutuku, kakaba kandikishijeho amagambo ari mu nyuguti z'umweru ndetse n'umukara, muri aka gacupa hakaba harimo umuti wakozwe mu bimera bigiye bitandukanye bya gakondo, uyu muti ukaba uvura indwara nyinshi ndetse zigiye zitandukanye.

Ni icyapa kiriho utubido n'uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti gakondo y'ubwoko bugiye butandukanye, iyi miti yose ikaba ivura indwara ndetse ino miti ikaba ikorwa mu bimera gakondo.

Uducupa tubiri, twenda kumera nk'aho duteye kimwe ariko tukaba turi mu mabara atandukanye. Kamwe ni umweru, akandi ni umuhondo, kuri utu ducupa twombi hakaba hariho ikimera cy'igikakarubamba. Bivuze ko muri utu ducupa harimo umuti ukozwe mu buryo bwa gakondo, mu bimera bigiye bitandukanye.

Umugabo uri ahantu bisa nk'aho hateye ishyamba, hakaba hari ibimera byinshi bisa icyatsi, uyu mugabo hari ikimera arimo arasoroma bisa nk'aho uno mugabo ari inzobere mu gukora imiti gakondo, ibi bimera ari gusoroma byifashishwa hakorwamo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ni agacupa kari mu ibara ry'umweru, kakaba kariho utuntu tw'umuhondo, aka gacupa kakaba gacuritse, aho umufuniko uri hasi. Muri aka gacupa hakaba harimo imiti, yifashishwa n'abahanga bayikora mu byatsi bigiye bitandukanye. Uyu muti ukaba ari umuti gakondo, uvura indwara.

Icyapa kiriho ibimera bigiye bitandukanye bikorwamo imiti gakondo, hakaba hariho n'akandi kantu kandiditseho amabwiriza ndetse n'amategeko agenga umuntu ushaka kuba umwe mu banyamuryango w'abantu bakoresha imiti gakondo muri Afurika.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye, utu ducupa tukaba turimo imiti gakondo ikorwa n'abavuzi gakondo, iruhande rw'utwo ducupa hakaba hari uturabyo duhari, bigaragara ko hari tumwe dukorwamo ino miti.

Ni ahantu hari ubwoko bwinshi bw'ibimera bwifashishwa n'abaganga gakondo bakoramo imiti igiye itandukanye, hakaba hari akantu kameze nk'agasekuru karimo n'umuhini, byo bifashisha basekura bino bimera kugira ngo babitunganyemo imiti ivura indwara.

Umusambi uriho udusahani ndetse n'udukombe tugiye dutandukanye turimo ibimera bitandukanye, hakaba hari ibiganza by'umuntu ufite agasekuru ndetse n'agahini, hari ibindi bimera arimo arasekura, uyu muntu akaba ari gukora imiti gakondo ayikuye muri ibi bimera.

Ikimera ubona ko kiri mu gihoho cyacyo, iki kimera kikaba ari kimwe mu bimera byifashishwa n'abahanga mu kuvanga imiti gakondo, mu gihe bakibyazamo umuti uvura indwara nyinshi.

Ni igiti ubona ko ari igiti gifite amababi atohereye. Iki giti kikaba cyifashishwa n'abahanga mu gukora imiti gakondo aho bakivangavanga n'ibindi bimera kikabyara imiti ivura indwara.

Uducupa turi mu bwoko bugiye butandukanye, utu ducupa tukaba tugiye turimo imiti y'amoko atandukanye, iyi miti iri muri utu ducupa, ikaba ikoze mu bimera ndetse ikaba ari imiti gakondo.

Ni icyapa kiriho ibimera by'ubwoko butandukanye, ibi bikaba ari ibimera byifashishwa n'abaganga bakoramo imiti igiye itandukanye, hari imiti myinshi iri ku isoko yakozwe muri ibi bimera, ibi ngibi rero bikaba byifashishwa n'abavuzi gakondo bakora imiti igiye itandukanye.

Mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, usanga hari abantu baba batazi agaciro ka bimwe mu bimera tubona. Hari ibimera biba bikorwamo imiti ndetse na byo ugasanga bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye nk'iki ng'iki kiri hano.

Agacupa karimo umwe mu miti ikozwe mu bimera gakondo, aka gacupa kakaba kari mu ibara ry'umweru, amagambo yandikishije ari icyatsi ndetse hakaba handitseho ngo shampo, gakozwe mu bimera, uyu akaba ari umuti gakondo.

Uducupa tubiri turi iruhande rw'icyapa cyamamaza uyu muti, utu ducupa tukaba ducuritse twose imifuniko iri hasi ndetse muri tuno ducupa hakaba harimo imiti gakondo ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye.

Ahantu hari umukeka, umukeka ukaba uriho utuntu turimo ibimera bigiye bitandukanye, ibi bikaba ari bimwe mu bimera byifashishwa n'abahanga mu gukora imiti gakondo aho bavangavanga hanyuma bagakoramo umuti mwiza kandi wizewe.

Agacupa k'umweru kakaba gapfundikishije umufuniko w'umweru. Aka gacupa kakaba karimo umuti ukoze mu buryo bwa gakondo, aho abahanga muri byo bavangavanga ibimera bigiye bitandukanye bagakoramo imiti. Kuri aka gacupa handitseho shampo.

Ahantu hadandaje ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo ibimera bitandukanye, hakaba hari agasekuru karimo umuhini ndetse hari n'ibitabo bihari. Ibi bimera bikaba ari byo bivamo imiti igiye itandukanye ikorwa n'abavuzi gakondo.

Icyapa kiriho imiti gakondo iri mu ducupa tugiye dutandukanye ndetse y'ubwoko butandukanye. Iyi miti yose ikaba yarakozwe muri bimwe mu bimera bikoreshwa n'abavuzi gakondo. Iyi miti ikaba ikora mu buryo bwa gakondo, ndetse hari uducupa turiho ikimera cy'igikakarubamba.

Ni agacupa kari mu ibara ry'umweru, kakaba gapfundikije umufuniko w'umweru. Muri aka gacupa hakaba harimo umuti uvura indwara, ndetse uwo muti ukaba warakozwe mu bimera bigiye bitandukanye, byavanzwe n'abaganga gakondo.

Ni agacupa kari mu ibara ry'umweru, aka gacupa kakaba gapfundikije umufuniko w'umweru. Muri aka gacupa hakaba harimo umuti wa gakondo, ukorwa mu bimera bigiye bitandukanye bivangwa n'abahanga muri byo. Kuri aka gacupa hariho icyapa cyanditseho Forever.

Ni icyapa kiriho amavaze menshi agiye atandukanye, aya mavaze akaba agiye ahinzemo ibihingwa bikorwamo imiti itandukanye, hari ivaze ririmo igikakarubamba ndetse n'ibindi bimera byifashishwa hakorwamo imiti gakondo.

Icyapa kiriho uducupa tw'amoko agiye atandukanye, utu ducupa tukaba turimo imiti igiye itandukanye, harimo uducupa tw'umuhondo, harimo uducupa tw'imyeru. Utu ducupa twose tukaba turimo imiti ikorwa mu buryo bwa gakondo.

Ni etajeri irimo uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti itandukanye. Utu ducupa tukaba turimo imwe mu miti ikorwa n'abavuzi gakondo, aho bavangavanga ibimera bitandukanye bagakoramo imiti ivura indwara.

Ni uducupa dutatu duteretse ku tuntu tugiye dutandukanye, kamwe hasi akandi hagati akandi hejuru, utu ducupa twose hakaba harimo imiti ivura indwara zitandukanye ndetse iyi miti irimo utu ducupa ikaba yarakozwe mu bimera byavangavanzwe n'abavuzi gakondo.

Agacupa karimo imiti ndetse aka gacupa kakaba kari mu mabara y'umweru, umufuniko wako urareba hasi bivuze ko kano gacupa gacuritse. Aka gacupa karimo umuti ukozwe mu bimera ndetse ukaba ari umuti gakondo. Kuri ako gacupa handitseho serumu.